Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari irimo ibinyobwa byinshi bigiye bitandukanye bisembuye birambitse mukabati karikwakamo amabara y'ubururu umutuku, hejuru hari isakazamashusho iri kwaka ndetse no kuruhande hari inkuta z'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akazi, hari ibinyobwa bitatu bisembuye biri mu macupa y'icyatsi biteretse hejuru y'imeza iriho agatambaro k'umuhondo, imbere hari umugabo wambaye ipantaro y'ikigina, hasi hashashe amakaro y'umweru.

Ahantu hari abantu bari gucuranga ndetse banaririmba bifashishije ibyuma byabugenewe birangurura amajwi. Hakaba hari n'abandi batari kuririmba, hari ibirahure banyweramo, ndetse n'uducupa tw'amazi.

Igitabo kirambuye kiri mu ibara ry'umukara cyanditswemo amagambo y'umweru n'umutuku werurutse akaba ari ibiribwa n'ibinyobwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo ku ruhande.

Igitabo kiri mu ibara ry'umukara kirambuye cyanditsemo amagambo y'umweru y'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye ku ruhande hakaba hari ibicirio byabyo ndetse n'utubara tw'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari hakaba harimo ibinyobwa byinshi bisembuye bigiye bitandukanye biri mukabati k'umukara ndetse n'icyapa cy'umweru gifite ibara ry'umutuku kiriho amacupa y'icyatsi arimo ibinyobwa bisembuye hejuru yacyo hakaba hari isakaza mashusho izimije.

Ahantu hari ibinyobwa bigiye bitandukanye, bisembuye ndetse n'ibidasembuye, hakaba hari igikuta cyubatswe mu matafari ahiye, hari intebe z'umukara, ndetse n'icyuma cyabugenewe gishinzwe gukonjesha ibinyobwa.

Ibiganza by'imibiri yombi biri gufungura agatabo k'umukara kanditseho amagambo y'umweru n'udushushanyo turi mu ibara ry'umutuku, imbere hari ibirahure byinshi bigiye bitandukanye byo kunyweramo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, irimo abantu bagiye batandukanye abicaye abahagaze. Isashemo amakaro y'umweru, umukara, ivu harimo amatara ari kwaka, hari intebe iri ku ruhande ifite ibara ry'umutuku.

Amagambo agiye atandukanye amanini namatoya arimwibara ry'umweru akaba Ari amazina yibiribwa bigiye bitandukanye, kuruhande hari ibiciro byabyo biri mukantu kumutuku kandikishijwe ikaramu y'umweru kuruhande hari utuntu tw'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, harimo intebe ndende n'ameza maremare akozwe mu mbaho, hari akabati kariho ibara ry'icyatsi, umweru, umukara. Hari ibinyobwa bigiye bitandukanye bisembuye ndetse n'ibyuma byabugenewe mu gukonjesha ibinyobwa.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, hakaba harimo intebe zifite ibara ry'umutuku, umukara, ndetse hakaba hari ibinyobwa bigiye bitandukanye bisembuye, harimo abantu benshi bagiye batandukanye hari amatara y'umweru.

Imeza ikozwe mu rubaho iteretseho hejuru amacupa abiri y'icyatsi arimo ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibirahure bibiri bisutswemo ibinyobwa bisembuye, hariho agapapuro gashushanyijeho icupa ry'icyatsi ndetse n'amagambo y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, irimo abantu benshi bagiye batandukanye abagabo, abasaza, abasore bari kwizihirwa bari kunywa ibinyobwa bitandukanye hirya hari ibinyobwa bitandukanye biri mu kabati, ndetse hari n'isakazamashusho iri kwaka.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari irimo abantu babiri bicaye umwe yambaye umupira w'icyatsi undi yambayae umupira w'umutuku. Hari isakaza mashusho iri kwaka ndetse n'akabati gafite ibara ry'ikigina. Inyuma yabo hari intebe ndende zifite ibara ry'umukara ndetse n'ameza afite ibara ry'umweru n'ubururu.

Inzu isize irange ry'umweru, imbere hakaba hari umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu w'imibiri yombi, uhagaze mumuryango, hakaba hari inkuta ku mpande zifite ibara ry'umweru n'umukara, hejuru hamanitse icyapa gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru wanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, ikaba irimo umugore wirabura. Wambaye impeta n'agakomo ufite imisatsi y'umukara, wambaye ishati y'umweru ni ibara ry'umutuku, ndetse hari ibinyobwa bisembuye imbere ye.

Ahantu hari imitaka ifite ibara ry'icyatsi, ndetse hakaba hari n'abantu benshi bagiye batandukanye, abagabo abagore bafite ibinyobwa bigiye bitandukanye, bisembuye n'ibidasembuye.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, irimo abantu benshi bagiye batandukanye, abagore, abakobwa n'abagabo, bicaye kuntebe z'umukara, abenshi muri bo bari kunywa ibinyobwa bisembuye, imbere yabo hari insakazamashusho iri kwaka.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari akaba ari ibinyobwa byinshi bigiye bitandukanye bisembuye biri mu kabati k'ibirahure. Hakaba hari mudasobwa iri kwaka ndetse n'umuntu w'imibiri yombi.

inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari iri kwakamo amatara y'ubururu n'umweru, harimo isankaza y'amashusho iri kwaka ndetse n'intebe z'umukara, harimo abantu bagiye batandukanye, umwe muri bo yambaye ishati y'umweru.

Umukobwa w'imibiri yombi, uri guseka, wambaye umupira w'ubururu bwijimye, afite ikarita y'ubururu mu ntoki yanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru, ndetse n'igikoresho cy'ikoranabuhanga, kiri kwaka mo ibara ry'umweru n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akazi harimo umugabo w'imibiri yombi wambaye ishati y'umweru, umupira w'umukara w'amaboko maremare, hirya ye hari ibinyobwa bigiye bitandukanye bisembuye, ndetse hari n'ibirahure banyweramo.

Inzu y'ubucuruzi iri gukorerwamo akabari. Harimo intebe z'umweru n'ibinyobwa byinshi bigiye bitandukanye biteretse mu kabati k'umukara, ndetse n'ibirahure.

Igitabo gifite ibara ry'umweru cyanditseho amagambo menshi agiye atandukanye mu ibara ry'umukara y'ibiribwa n'ibinyobwa, ku ruhande hakagenda hariho igiciro cya biri kiribwa n'ikinyobwa. Kikaba gifashwe n'intoki z'umuntu.

Ahantu h'ubucuruzi hari ameza y'umutuku, intebe z'umutuku, ndetse n'umugabo uhahagaze wambaye umupira w'umutuku, n'abandi bantu bagiye batandukanye. Buri muntu wese akaba yahasohokera akaka icyo kunywa ashaka ndetse n'icyo kurya.

Icyapa kinini kiri ku muhanda w'umukara hakaba hariho icupa riri mu ibara ry'icyatsi ry'ikinyobwa gisembuye, inyuma yaryo hakaba hari abantu bagiye batandukanye, hirya y'icyapa hari ibinyabiziga biri mu bwoko bw'ipikipiki ndetse n'ibindi.

Umukobwa w'imibiri yombi uri hagati y'imyaka makumyari n'itanu na mirongo itatu n'itanu, wambaye ikote ndetse n'agapira k'umukara, afite telefone mu ntoki ari ahantu hari ibara ry'umutuku.

Abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, inyuma yabo hari inkuta zisize ibara ry'umukara, ndeste n'imitako igiye itandukanye. Harimo amatara ari kwaka umutuku.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, irimo ibinyobwa bigiye bitandukanye bisembuye. Kimwe muri byo kiri mu icupa ry'icyatsi, ndetse n'ibirahure bisutswemo ibinyobwa bisembuye, biteretse hejuru y'ameza afite ibara ry'ikigina. Inyuma yaho hari amatara ari kwaka ibara ry'umweru.

Urupapuro rw'ibara ry'umutuku rwandtseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, akaba ari ibinyobwa ndetse n'ibiciro byabyo n'imibare imbere yabyo aho umuntu agura icyo abasha kwishyura.

Icyapa kinini cy'ibara ry'umutuku n'umweri, cyanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umukara n'umweru, ndetse n'imibare, akaba ari yo: 1870. Kiri hejuru y'amabati, inyuma yacyo hakaba hari igicu.

Amazu agiye atandukanye afite inkuta asize ibara ry'umuhondo, ivu ndetse n'icyapa hejuru gifite ibara ry'umutuku n'umweru, hari ibigega by'umukara, ibiti byinshi inyuma ndetse inyuma yabyo hari n'inyubako ndende.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari iri kwakamo amatara y'umutuku n'icyatsi irimo abantu benshi ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye hari intebe ndende zifite amabara umuhondo ndetse n'icyatsi yewe n'ameza akoze mu mbaho.

Hejuru y'amazu agiye atandukanye, afite amabati y'ibara ry'umutuku, ibigega by'umukara, akaba afite inkuta, asize irangi ry'umuhondo, ivu . Hari ibiti byinshi bifite ibara ry'icyatsi kijimye, inyuma yabyo hari amazu maremare.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari. Harimo abantu bagiye batandukanye, abagore ndetse n'abagabo biganjemo abambaye amashati y'umweru ndetse n'imipira y'umweru. Hari intebe zo kwicaraho zikozwe mu mbaho, ndetse hari n'amatara y'umweru.

Umugabo w'imibiri yombi ufite umusatsi mugufiya wambaye umupira w'umweru ari kugendera ku muhanda w'umukara. Imbere ye hari icyapa kinini cy'umutuku kiriho icupa ry'icyatsi ririmo ikinyobwa gisembuye. Imbere yacyo hari inzu y'ubucuruzi.

Abagore babiri umwe wambaye ishati y'ubururu bwijimye w'imibiri yombi uri guseka akaba afashe icyuma cy'ikoranabuhanga, undi afite imisatsi miremire ni imibiri yombi, afite ikarita mu ntoki ari gukoza kuri icyo cyuma, inyuma ya bo hari icyapa kinini kiriho ikinyobwa gisembuye.

Ikibaho cy'umukara kiriho amagambo menshi agiye atandukanye yanditse mu nyuguti nkuru. Atatu muri yo aciyeyo akarongo, andi ntako. Hariho imibare ndetse n'ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye, bikoreshwa mu myandikire.

Amacupa abiri y'icyatsi arimo ikinyobwa gisembuye n'ikirahure kirimo ikinyobwa, bikaba biteretse, ku ruhande hari igikapu gifite ibara ry'ikijuju, hirya yaho hari umugabo wicaye ndetse n'itara ry'umweru.

Umugabo wirabura uri kurambura igitabo gisa umweru wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru, umutuku, umukara ndetse n'ivu, akaba yicaye ku meza ifite ibara ry'ikijuju n'intebe y'umukara akaba yambaye ipantalo y'ikoboyi.

Inzu yubucuruzi ikorerwamo akabari irimo amatara menshi ari kwaka umuhondo ndetse n'abantu bagiye batandukanye, hariho ututambaro duteretseho icupa ry'icyatsi ndetse n'ikirahure kirimo ikinyobwa gisembuye.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akazi irimo abantu bagiye batandukanye, bamwe ni abagabo cyangwa abagore baricaye barahagaze, hirya hari ibinyobwa bisembuye birambitse mu kabati, hari kwakamo amatara y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, irimo umugabo w'imibiri yombi wambaye ishati y'umukara irimo utubara tw'umweru, uri gusuka inzoga ebyiri zitandukanye mu kirahure. Inyuma ye hari inzoga nyinshi zigiye zitandukanye ziri mu tubati tw'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, irimo abantu bagiye batandukanye, batatu muri bo ni abantu bafite uruhu rwera, bicaye ku meza bari kurya ndetse bananywa, abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, abandi ni abagabo babiri bahagaze birabura bari kubakira.

Igitabo cy'umweru cyaneditseho amagambo agiye atandukanye arimo ibara ry'umukara n'umutuku, akaba ari amazina y'ibinyobwa n'ibiribwa ku ruhande hari ibiciro byabyo byanditswe mu mibare, akaba aho umuntu agura icyo abasha kwishyura ndetse uwaguze n'uwagurishije bikumvikana neza.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, hari ameza y'umukara; ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye bisembuye, hari ibintu birambitse ku kabati. Hari ibikoresho bya bugenewe mu gukonjesha ibinyobya bikaba binarimo; hari amatara ari kwaka umuhondo.

Icyapa kinini cy'icyatsi kiri hanze kiriho icupa ry'icyatsi ribamo ikinyobwa gisembuye, hakaba hariho umukobwa ufite umusatsi mugufi w'umukara wambaye amadarubindi uri kunywa ikinyobwa. Handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abantu batatu bari guseka babiri muribo ni abagore undi ni umugabo, inyuma yabo hari akabati gateretsemo ibinyobwa bigiye bitandukanye. Umwe muribo yambaye ishati y'umweru iriho akantu k'umutuku, abandi bambaye amashati y'ivu ariho akantu k'umutuku.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ari ku muhanda w'umukara uriho uturongo tw'umweru ifite amadirishya n'inzugi zifite ubururu bwerurutse, ndetse mo imbere harimo intebe ndende z'umukara, n'imeza y'umweru ifite amaguru y'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari. Harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru n'ipantaro y'umutuku n'inkweto z'umukara. Hari ibirahuri imbere ye ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye bisembuye.

Amagambo menshi ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, akaba ari ahantu h'umweru n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo ibisembuye ndetse n'ibidasembu n'ibiciro byabyo ku ruhande, ku buryo uwakaka icyo aricyo cyose aba afite ubushobozi bwo kukishyura.

Inzu ifite inkuta zisize amabara y'umuhondo na move n'umweru harimo amatara ari kwaka umuhondo. Ikaba Isakajwe ibiti n'imbaho, ifite ameza y'umukara ndetse n'intebe z'umukara.

Umuntu wicaye wambaye ishati irimo amaboko maremare irimo imirongo y'umweru n'umukara yicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho akaba yegemye ku meza ifite ibara ry'umukara ku ruhande hari agakombe kabugenewe mu gushyiramo uduti dukura imyanda mu menyo.

Igitabo cy'umukara cyanditseho amagambo menshi agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru, akaba ari amazina y'ibinyobwa y'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiciro byabyo, aho umuntu agura icyo abasha kwishyura akaryoherwa ndetse akanezerwa, haba ari uwaguze ndetse n'uwishyura.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, ikaba irimo umugabo w'imibiri yombi wambaye umupira w'umukara n'utundi tubara, hari n'ibikoresho byabugenewe mu gukonjesha ibinyobwa, iyo nzu mu imbere ifite ibara ry'umweru.

Ikirahure kirimo ikinyobwa gisembuye kiri hejuru y'imeza y'urubaho, imbere yaho hariyo umugabo wambaye ishati y'ubururu ipantaro y'umweru, wicaye ku ntebe ndetse inyuma ye hari intebe ebyiri zifite imisego y'icyatsi z'imbaho.

Akabati k'ibirahure gashize ibara ry'umweru, hari kwakamo amatara ya move hariho ibinyobwa bigiye bitandukanye bisembuye, ku ruhande hari isakazamashusho iri kwaka ku rundi ruhande hariho umutako, inyuma hari igikuta gisize ibara ry'umweru.

Igitabo kirambuye, cy'umweru kirimo amagambo menshi agiye atandukanye; ay'umukara, ay'umweru, y'ibiribwa ndetse n'ibiciro byabyo. Hakaba hariho n'igishushanyo cy'ikirahure kirimo ikinyobwa cy'umutobe, n'umuheha.

Ikinyobwa kiri mukirahure gifashwe nakaboko k'umuntu w'imibiri yombi hakaba hari nimeza arambitseho udutambaro twivu n'ubururu n'umweru yewe nibiyiko birambitse kwisahane y'umweru kuruhande hari undi muntu ufite igikoresho kitumanaho ngendanwa muntoki.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari irimo intebe ndende z'umutuku ndetse ningufiya z'ivu hakaba hari insakazamashusho irikwaka irimi ibara ry'icyatsi ndetse niry'ubururu kuruhande hakaba hari inkuta zifite ibara ry'ivu.

Ibinyabiziga bigiye bitandukanye bibiri muri byo biri mu bwoko bw'ipikipiki ikindi ni igare ikindi ni imodoka iparitse ku muhanda w'umukara ifite ibara ry'umukara, hari icyapa kimanitse gifite ibara ry'umutuku n'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ari mwibara ry'umukara akaba ari ibinyobwa bigiye bitandukanye ndetse nibiciro byabyo imbere mumibare, aho umuntu agura icyo abasha kwishyura, uwaguze ndetse nugurisha bose bakumvikana neza.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari irimo intebe ndende z'umukara ndetse n'ameza y'umukara, hari umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi w'umukara urimo utubara tw'umweru, w'imibiri yombi, imbere ye hari ibinyobwa bigiye bitandukanye, bisembuye, birambitse mu tubati tw'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, harimo umugabo wambaye umupira w'umukara urimo ibara ry'umutuku, ufite uruhu rw'imibiri yombi. Afite ibirahuri bibi mu ntoki birimo ibinyobwa, ndetse inyuma ye hari ibinyobwa bigiye bitandukanye bisembuye n'amatara y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari iri kwakamo amatara y'ubururu n'umutuku, hari umukobwa wicaye ku ntebe ndetse n'umugabo wambaye umupira urimo ibara ry'umukara n'umutuku n'ipantaro y'umukara, wicaye ku ntebe.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari harimo ibinyobwa byinshi bigiye bitandukanye n'isakazamashusho iri kwaka hari imitako myinshi ifite amabara y'umweru, umuhondo ari ahantu h'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari irimo ibinyobwa byinshi bigiye bitandukanye bisembuye biteretse mu kabati kari kwakamo ibara ry'umweru ku ruhande hari n'ibindi, imbere hari intebe ifite ibara ry'ikigina iteretseho ikote.

Intoki z'umuntu zifite icyuma k'ikoranabuhanga, zisize amabara y'umutuku, ndetse n'ikarita y'ubururu yanditseho amagambo agiye atandukanye y'umweru, akaba kuri iki cyuma harimo imibare: rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, ikenda.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye ishati y'amaboko maremare ahinyeho, ufite ikinyobwa gisembuye mu ntoki, kiriho akapa k'umuhondo n'umutuku uri kukirebaho, ku kandi kaboko ari gusuka inzoga, yambaye agakomo gafite utubara tw'umweru.

Icyapa cy'umukara kinini kiri ku muhanda kiriho inzoga isembuye ndetse n'ibirahure bibiri bisutsemo inzoga zisembuye, inyuma yabyo hariho akabati gateretsemo inzoga nyinshi, inyuma y'icyo cyapa harimo ibiti.

Icyapa kinini kiriho icupa ry'icyatsi ribamo ikinyobwa gisembuye numugabo wambaye ingofero y'umukara umupira w'umukara numukobwa kuruhande, kurundi ruhande hariho abantu babiri inyuma yacyo hariho inyubako ndende.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, harimo umuntu wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, imbere yaho hari intebe zifite ibara ry'umukara, ku ruhande hari umutaka w'icyatsi urimo umugabo wambaye umupira w'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo akabari, harimo intebe zifite ibara ry'umuhondo n'umukara, harimo abagabo babiri bambaye amashati y'umweru ndetse n'umuhondo bari guseka, hejuru hamanitsemo amatara ari kwaka umweru.

Icyapa kinini cy'umweru kiriho icupa ry'icyatsi ririmo ikinyobwa gisembuye kiri gusukwa mu kirahure ndetse hariho amagambo y'umweru kuruhande harimo ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka irikugenda ku muhanda w'umukara kurundi ruhande hariho inzu igeretse rimwe.

Ibirahure bigiye bitandukanye, bitarimo ikintu, bisa neza, ku ruhande hari amakanya n'ibiyiko bitetetse hejuru y'agatambaro gafite amabara agiye atandukanye, ndetse n'ibiganza by'umuntu w'imibiri yombi. Byose bikaba biri hejuru y'imeza ifite ibara ry'ivu.

Inzu y'ubucurizi ikorerwamo akabari harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye ibisembuye n'ibadasumbuye, hari ibipasembuye n'ibidasembuye mu kabati k'umukara ndetse n'ibindi pakiye

Inzu y'ubucuruzi y'akabari irimo abantu benshi bagiye batandukanye, imbere yabo hariho ameza y'umutuku hariho ibinyobwa bisembuye by'amoko agiye atandukanye. Bicaye ku ntebe z'umutuku ndetse inyuma yaho harimo umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara.

Umwana uri kunywa amata ari mu gakombe gafite ibara ry'umutuku ryerurutse ndetse n'umweru, agafatishije ibiganze bye, ni umwana w'imibiri yombi ndetse ku ruhande hari ibindi biganza, amata araryoha, ni intungamubiri cyane cyane ku bana, bibarinda gukura imburagihe.

Abantu batatu bicaye ku ntebe z'umweru, bari kunywa amata, bizihiwe, umwe muri bo ni umukobwa, yambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, undi yambaye umupira w'umukara n'umweru, ndetse n'undi yambaye umupira w'amaboko maremare, w'ubururu n'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisize ibara ry'ubururu hari umugabo wicaye wambaye umupira w'umukara ufite igikoresho k'itumanaho ngendanwa mu ntoki, inyuma ye hari akabati gasize ibara ry'umweru karambitsemo ibinyobwa bigiye bitandukanye iby'imitobe.

Abagabo babiri, umwe muri bo ari guseka yambaye ishati y'icyatsi, undi yambaye ishati y'amaboko magufi irimo utubara tw'umutuku n'amadarobindi. Bari mu nzu ifite inkuta zisize ibara ry'umweru ndetse n'akabati kari inyuma karambitsemo utubido.

Umubyeyi w'umugore w'imibiri yombi wambaye igitenge kirimo ibara ry'umutuku umuhondo n'umweru, ufite imisatsi y'umukara. Ku ruhande rwe hari icyapa kiriho icupa cy'umutuku, ndetse imbere ye hari intebe y'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi iriho icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru hariho igishushanyo cy'inka n'ijambo ryanditseho Nyanza kiri mu ibara ry'umukara hari ikinyabiziga cy'ipikipiki giteretse hanze ndetse n'umutaka w'umuhondo.

Umukobwa wambaye ikabutura, umupira w'amaboko maremare, ahetse igikapu mu mugongo ndetse akaba afite terefone mu ntoki, ari mu nzu ifite amakaro ku nkuta no hasi, inzu ikaba irimo imeza, intebe, ndetse n'igare mu muryango.

Inzu irimo abagabo n'umugore, barimo kubuganiza amata bayashyira mu cyuma cyabugenewe mu kuyategura. Umwe muri abo bagabo yambaye umupira w'icyatsi, undi yambaye umupira urimo ibara ry'umweru n'umukara, undi yambaye ishati y'amaboko magufiya irimo amabara menshi agiye atandukanye.

Umukobwa w'imibiri yombi, wambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru, irimo uturongo dufite amabara y'umutuku n'ubururu, ari kubuganiza amata mu cyansi, inyuma ye hari igikoresho cyabugenewe mu gukonjesha ibinyobwa, imbere ye hari icupa riteretse ku meza ndetse n'idirishya rifite ibara ry'icyatsi.

Intoki ebyiri z'umuntu ziri kugaragara zifashe agakombe k'umukara kanditseho amagambo menshi agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, amwe muri aya magambo akaba yanditseho Mukamira.

Amata ari mu gikombe cyuzuye, akaba ateretse hejuru y'imeza y'urubaho, ku ruhande hakaba hari ikaramu y'ubururu, hakaba hari intoki zifashe icyo kurya gikizwe mu ifarini, isukari, amagi, amata, ndetse n'amazi.

Icyuma cyabugenewe mu gukonjesha ibinyobwa ndetse n'ibiribwa gisize ibara ry'umweru, mo imbere harimo akabido karimo amata y'igice ndetse n'amazi ari mu ducupa; inyuma hariho urukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Intoki zifashe ikiribwa gikozwe mu mafarini, isukari, amata, amagi cyangwa se bakaba bakoresha amazi. Agifatishije agapapuro k'umweru mu rwego rw'isuku kugira ngo twirinde indwara zigiye zitandukanye.

Ibyuma bibiri bishinzwe kubika amata kimwe gifite ubugari bunini ikindi gifite ubugari butoya, kikaba gitezeho igikombe cy'umutuku biri ahantu hasashwe amakaro matoya y'umweru ndetse no kunkuta hakaba hari idirishya rifite ibara ry'icyatsi.

Ni mu ijoro inzu y'ubucuruzi ifite amarangi y'umweru mo imbere n'inzugi z'ubururu byometseho ibyapa, biri mu ibara ry'ubururu n'umweru, hari kwakamo itara ry'umweru, hanze hari udupfunyika tuhateretse, ndetse n'ikinyabiziga cyiri mu bwoko bw'imodoka, gifite amabara y'umweru.

Inzu ifite umuryango w'ubururu, umanitseho icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo agira ati:'' Nyanza.''n'igishushanyo cy'inka cy'amabara abiri, umweru n'umukara, mo imbere harimo ibido, y'umweru ifite umufuniko w'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, imitobe, ibyayi, hicayemo umukobwa ku ntebe y'ubururu, w'imibiri yombi, uri mu myaka hagati cumi n'umunani na makumyabiri n'itanu, imbere ye hari amafaranga ndetse n'umugabo umuhagaze imbere.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye, nk'imitobe, amata, ndetse n'ibyayi. Harimo umukobwa w'imyaka hagati cumi n'umunani na makumyabiri n'itanu, ufite telefoni mu ntoki ndetse n'umugore w'imibiri yombi ufite imisatsi y'umukara.

Irindazi rikorwa mu ifarini, isukari, amagi, amazi, cyangwa se ukaba wakoresha amata nyuma yaho ukaza kuyashyira mu mavuta wacaniriye neza, rikaba riri hejuru y'isahani ndetdse rikaba riri kumwe n'agapapuro urifatisha mu rwego rw'isuku.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisize amarangi y'ubururu ndetse n'akabati k'ubururu. Hariho icyapa kimanitseho, gifite ibara ry'umuhondo n'umweru, cyanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umukara, ndetse hari n'amacupa atonze ku murongo, afite imifuniko y'ubururu. Muri iyo nzu harimo abana babiri n'abantu bakuru babiri.

Abana babiri bicaye ku ntebe z'umweru, bari kunywa amata ndetse hakaba hari imeza y'umweru iteretseho utubido tw'umweru, hakaba hari umugabo uhagaze imbere yabo wambaye umupira w'umweru.

Akabati k'icyuma gasize ibara ry'ubururu wererutse harimo amacupa y'ubururu afite imifuniko y'umweru gafungishijwe ingufuri ebyiri zitandukanye imwe muri yo ifite ingese, kuruhande hari umuryango ufite ibara ry'ubururu.

Icyapa cy'ubururu n'umweru kiriho amagambo agayiye atandukanye ari mw'ibara ry'umukara n'umweru, hariho amashusho y'amata ari mufunyika bugiye butandukanye ndetse n'imitobe yewe n'amaronge kuruhande hari ind'ishusho y'icupa ry'amazi.

Icyuma cyabugenewe mu gukonjesha ibinyobwa ndetse na ibiribwa, cyometseho icyapa cya ubururu kiriho igishushanyo cya amata yanditseho amagambo Mukamira ndetse na ikirahure kiri gusukwamo ayo mata. Hari akaboko ka umuntu wambaye umupira wa umukawa wa amaboko magufi.

Abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe, bari mu nzu y'ubucuruzi, icuruza amata akorerwa mu ruganda rwa Mukamira, ndetse n'ibindi binyobwa bigiye bitandukanye, na bo bakaba bafite amata mu ntoki zabo, umwe muri abongabo yambaye impeta, bigaragara ko yubatse.

Umuntu wambaye ingofero n'igitenge gifite ibara ry'umuhondo, umweru, ubururu ndetse yambaye nagakomo, afite akabido k'umuhondo mu ntoki gateretse kukabati. Ari mu nzu ifite irangi ry'umuhondo mo imbere.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'umukobwa w'imibiri yombi ufite imisatsi migufi y'umukara wambaye ikanzu y'icyatsi, inyuma ye hari akabati k'umweru karambitsemo ibinyobwa bigiye bitandukanye kuruhande hari icyuma cyabugenewe mu gukonjesha ibinyobwa cyanditseho Mukamira.

Umugabo w'imibiri yombi, wambaye umupira w'umweru, uri kubuganiza amata mu gapombe gato. Imbere hari udukombe twinshi tw'amabara agiye atandukanye. Inyuma y'uwo mugabo hari agakuta kubatswe mu makaro.

Inzu y'ubucuruzi iriho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru cyanditseho amagambo agira ati "amata ni ubuzima". Mo imbere harimo icyuma cyabugenewe mu gutunganya amata, gishushanyijeho umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara.

Uducupa turimo amazi tw'umutuku dutatu ndetse n'utundi tubiri tw'umweru ku ruhande rwaho hariho utundi ducupa turi mu mabara agiye atandukany umutuku, umuhondo ndetse n'ubururu, ku ruhande hari ibicupa binini byisumbuyeho birimo amazi.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'icunga wanditseho amagambo y'umukara agira ati "Mayange-Bugesera, zeru karindwi umunani kabiri kabiri gatatu gatanu gatanu gatandatu gatandatu" kuruhande rwe hari amagi menshi....

Icyuma cyabugenewe mu gutunganya amata, hejuru yaho harambitseho agatebo gafite utwenge duto duto n'indi myenge ibiri iringaniye, umuntu ashobora gufataho agateruye, harambitsemo agatambaro k'umweru, inyuma hari icyapa cy'ubururu kiriho akabido k'umweru.

Agafunyika gasa ivu gafite utwinyo dutoya tugiye dutandukanye, ndetse n'indi iringaniye, umuntu ashobora gufatamo agateruye, harimo isashi irambitsemo udutambaro tw'umweru tw'inshi bikaba biri hejuru y'ameza akozwe mu mbaho.

Inzu isashemwo amakaro irimo intebe ebyiri zifite ibara ry'umukara n'irindi bara, hakaba hari imeza imwe ifite ibara ry'umweru n'iry'umukara. Inyuma yaho ari icyapa kiriho indobo ndetse n'ubucupa bubiri ak'umweru.

Umugore w'imibiri yombi ufite imisatsi miremire y'umukara yambaye igitenge imbere ye hateretse igikombe cy'umweru giteretsemo ikiyiko, ku ruhande hari icyuma cyabugenewe mu gukonjesha ibinyobwa cy'umutuku kiriho icyapa k'ikinyobwa cy'umutobe cyanditseho amagambo kokakora.

Inzu y'ubucuruzi irimo icyuma cyabugenewe gitunganya amata, hakaba hari umukobwa w'imisatsi y'umukara wambaye umupira w'umweru n'ubururu uri kuyavoma, n'umugabo uhagaze kuruhande rwe wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Icyapa cy'inyange kiriho ibinyobwa bigiye bitandukanye hakaba harimo imitobe, amazi, amata bikorerwa muri urwo ruganda ndetse inyuma hakaba hariho inzu ifite ibara ry'ubururu ndetse n'inkingi iriho amakaro.

Ameza arambuyeho igitambaro cy'igitenge, hejuru hariho igikombe cy'amata n'isahani iriho amandazi akoze mu magi, ifarini, isukari, amazi ndetse n'amata. Ku ruhande hariho indi iriho imyumbati. Imbere hari umubyeyi wicaye ku ntebe y'ubururu, wambaye igitenge ndetse ufite igikapu.

Umukobwa w'imibiri yombi wambaye ikanzu y'umutuku n'inkweto zifunguye z'icyatsi, inyuma ye hari ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'igare, imbere ye hari ameza ateretseho akabido k'umweru hejuru ndetse n'intebe ikoze mu mbaho, ku ruhande hari icyapa cy'umweru cyanditse amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umutuku, umukara n'ubururu.

Abantu batatu bicaye munzu yubucuruzi, babiri muri bo bari guhanahana igikombe, harimo umumama wambaye igitenge w'imibiri yombi ndetse n'umugabo umuri iruhande wambaye ingofero y'ubururu, hirya yabo hari akabati gasize irange ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi ikinguye, ifite umuryango y'ubururu imanitseho icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo Nyanza, ndetse n'igishushanyo cy'inka cy'umweru n'umukara, hakaba inkuta zo hanze zisize irangi ry'umweru n'ubururu. Ku ruhande hari kandagira ukarabe ifite indobo y'icyatsi.

Amata ari mu tubido ndetse andi akaba ari mu dufunika dukozwe muri purasitiki akaba ateretse mu kabati k'icyuma, andi akaba ari mu dutebo tubiri tw'umuhondo, tubiri tw'icyatsi ndetse na tune tw'ubururu.

Icyuma gishinzwe gutunganya amata kiriho icyapa cy'ubururu n'umweru cyanditseho amagambo agira ati Inyange. Inyuma hari akabati k'ubururu n'umweru karambitsemo ibinyobwa bigiye bitandukanye. Amazi, imitobe, amata ndetse n'agapfunyika k'ubururu.

Uducupa twinshi dusa dufite imifuniko y'umweru tumanitseho icyapa kiriho amabara agiye atandukanye umukara, icunga ndetse n'amagambo ari mu ibara ry'umukara n'umuhondo, amwe muri yo ni masaka dupanze ahantu hafite isuku.

Ibyuma bashyiramo amata, amata yuzuyemo bikaba biri ahantu hashashe amakaro y'umweru, ndetse no ku nkuta hari amakaro y'umweru. Ayo ku nkuta n'ayo hasi ntabwo angana, kimwe muri ibyo byuma harimo ijage y'umweru.

Agakombe gafite ibara ribonerana n'umufuniko w'umweru n'ikigina harimo uduti dushinzwe gukuramo umwanda mu menyo. Gateretse hejuru y'imeza y'umweru ndetse n'igicucucucu cyako kiri kugaragara kubera hari akazuba gake.

Umukobwa wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ikoboyi, urikugenda ku muhanda w'umukara, kuruhande rwe hari ibinyabiziga bitatu by'imodoka, kimwe muri byo harimo umugore uri gusohokamo, bihagaze imbere y'inzu y'ubucuruzi.

Intoki zifashe agapapuro kariho ibara rya move ryijimye n'iryerutse ndetse n'umweru, hariho amatunda atatu, abiri muri yo ariho ibitonyanga by'amazi, irindi rikasemo, uri kureba mo imbere hariho n'amababi y'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisize amarangi y'umweru utubati, intebe ndetse n'ameza y'umweru hari umugabo wicaye wambaye umupira w'amaboko magufi urimo ibara ry'ikigina uri kunywa amata yuzuye igikombe.

Akabati k'ubururu gateretsemo amasahane n'indobo ebyiri zirimo ibiribwa, imwe muri yo irimo igifatisho ku ruhunde hari igikoresho cyabugenewe mu gukonjesha ibinyobwa, bikaba biri mu nzu ifite urukuta rufite ibara ry'ubururu.

Umukobwa w'imibiri yombi ufite umusatsi mugufi w'umukara, wambaye ikanzu y'icyatsi wicaye imbere ye hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umukara, inyuma hari akabati karimo ibinyobwa bigiye bitandukanye, amazi, imitobe.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibyuma byinshi bibikwamo amata hasi hasashwe amakaro y'umweru aringaniye no ku nkuta hari andi makaro adasa umweru, hari umunzane uri imbere ufite ibara ry'ubururu ushinzwe gupima ingano y'amata ari muri ibyo byuma.

Akabati gakozwe mu mbaho gasizwe ibara ry'umweru ridakeye, harimo ibikombe ndetse n'udutambaro turambuye tw'umweru, hejuru yatwo hari ibirahure, ndetse no hejuru y'akabati hari indobo. Inyuma hari akandi kabati gasize ibara ry'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibinyobwa ndetse n'ibiribwa, harimo umugore wirabura wambaye ikote ry'umukara, imisatsi y'umukara, inkweto z'umukara ndetse n'ipantaro. Hari umugabo wicaye wambaye ishati y'umweru irimo ibara ry'umutuku.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare, y'umweru w'imibiri yombi, umugore uri kubuganiza amata mu cyansi, hari idirishya rifite ibara ry'ubururu,, hanze hari umubyeyi wambaye umupira w'umweru ndetse n'igitambaro cy'umutuku.

Akabati gakoze mu mbaho karambitse ho amabido y'umweru ndetse n'icyapa gifashe ho cyanditse ho amagambo ari mu mabara y'umweru ubururu, ndetse n'umukara. Ku ruhande rwawo hari igikuta, cyubatse mu matafari ahiye.

Amata ari mu bintu bigiye bitandukanye, bimwe muri byo ni udufunika dufite ibara ry'umweru n'ubururu yanditse ijambo ikivuguto mu ibara ry'umukara, hari ari mu tubido tw'umweru, udukombe, ndetse n'ari mu ducupa dufite amabara agiye atandukanye: umutuku werurutse n'umweru.

Amandazi menshi ari kwisahane nini y'umweru, akozwe mwifarini, isukari, amazi, amata, amagi ndetse araryoha agira n'intungamubiri, afashwe n'ibiganza by'umuntu w'imibiri yombi ateretse hejuru y'ameza arimo utubara tw'umuhondo n'umukara.

Umugore w' imibiri yombi ufite imisatsi migufiya, wambaye ishati y' umukara, ari kubuganiza amata mu bikombe, inyuma ye hari umwenda w' akazi umanitse ku gikuta gisize ibara ry'ubururu. Ku ruhande hari akabati gafite ibara ry' ikigina kererutse.

Uducupa dufite imifuniko y'ubururu turimo amazi tugera ku icumi, ku ruhunde rwatwo hariho igifunika gifite ibara ry'ikigina cyerurutse ndetse n'akandi gafunika gatoya kari ku ruhunde, bikaba biri mu kabati.

Umuntu uhagaze wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara imbere ye hari intebe yumweru kuruhande hari icyuma cyabugewe mu gukonjesha ibinyobwa kimanitseho icyapa cy'ubururu, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru agira ati" amata ni ubuzima". Kurundi ruhande hari akabati k'ubururu.

Inzu nto isize irangi ry'ubururu, hanze ni urugi rw'umweru, mo imbere harimo ameza abiri y'umweru, n'intebe z'umweru. Hejuru y'imeza hariho indobo ebyiri, imwe ikaba irimo amandazi, ku ruhande hari iseri ry'imineke ndetse n'amagi.

Inzu ifite inkuta zisize irange ry'ubururu, hakaba harimo icyuma gishinzwe gutegura amata, hakaba hashushanyijeho inka ifite ibara ry'umweru n'umukara ndetse hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru yanditseho Nyanza, imbere yacyo hariho umuntu wambaye ikote ry'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisize amarange y'ubururu. Hari icyapa kibugitse ku ruhande kiriho agashushanyo k'ikuma k'umweru, kanditseho amagambo agira ati Inyange. Hari n'ivido iri ku ruhande y'umweru. Hari akabati gasize irangi ry'umweru n'ubururu karambitsemo ibiribwa bigiye bitandukanye.

Akabati gakozwe mumbaho gasize irangi ryumweru hakaba hateretseho Ibinyobwa bigiye bitandukanye imitobe idahuje amako ndetse n'amazi, inyuma hari igikuta gifite Ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Icyuma gishinzwe gutunganya amata, kiriho icyapa kiriho amagambo menshi agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru, ndetse gishushanyijeho inka ifite ibara ry'umweru n'umukara, n'amagambo agira ati Nyanza. Ikaba ari mu nzu ifite inkuta zifite ibara ry'umweru n'ubururu.

Umukobwa w'imibiri yombi mutomutoya wambaye amaherena, ufunze umunwa. Yabaye umupira muremure w'imbeho urimo amabara agiye atandukanye; umweru, umukara, akaba yegamye ku meza, hasi hakaba hashashe amakaro y'umweru.

Inzu ifite inkuta zisize amabara y'umweru, ndetse harimo utubati dufite amabara y'umweru n'ubururu, hakaba hari umugabo wicaye ku ntebe y'umweru, ufite akabido k'umweru uri kuvoma amata mu cyansi. Imbere ye hari umugabo wambaye umupira w'umweru, n'ikote ry'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ikinguye ifite inzugi z'ubururu zimanitseho icyapa cy'umwana uri guseka ufite imisatsi migufiya w'imibiri yombi mo imbere hari icyuma cyabugenewe mugukonjesha ibinyobwa ndetse n'akabati gasize ibara ryumweru karambitsemo utubido.

Isahani y'umweru iriho ibiribwa byinshi bikoze mu ifarini, amata, amagi, isukari cyangwa se ukaba wakoresha amazi, nyuma yabyo ukabicanirira. Ku ruhande hari udupapuro tubiri tw'umweru.

Inzu ifite inkuta zisize amabara y'ubururu, ndetse n'amakaro y'umweru asashe hasi, irimo ibyuma bitatu bishinzwe gutunganya amata, kimwe muri byo kiriho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'ubururu ndetse n'umukara.

Abana babiri bari kunywa amata, bicaye ku ntebe z'umweru, ameza y'umweru, ateretseho utubido tw'umweru, hari umugabo ubari iruhande wambaye umupira w'umweru, hirya yabo hari umugabo wambaye umwenda w'icyatsi ndetse n'igikapu cy'umukara.

Amandazi akorwa mu ifarini, amazi, amagi, isukari, amata nyuma yaho ukaza kuyashyira mu mavuta wacaniriye cyane, araryoha cyane agira icyanga ndetse akaba afite n'intungamubiri ku mubiri w'abantu.

Ahantu h'ubucuruzi hari icyapa cy'ubururu n'umweru cyanditseho inyange, hari abakobwa babiri bambaye imipira y'umweru n'ingofero z'umweru, inyuma yabo hari icyuma cyabugenewe mu gutunganya amata, ndetse hanze hari umukobwa wambaye ingofero y'umukara n'umupira w'icyatsi.

Abagabo ndetse n'abasore bishimye bari guseka, bafite ibikombe by'amata mu ntoki n'uburisho bwabo buri ku masahani ari hejuru y'imeza. umwe muri bo yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye umupira w'amaboko maremare, urimo ibara ry'umweru ndetse n'ivu.

Amandazi menshi arambitse ku isahani y'umweru, rimwe muri ryo ryasaduwemo kabiri, akozwe mu ifarini, isukari, amazi, amagi cyangwa se ukaba wakoresha amata, araryoha agira intungamubiri ariko ku bantu adafite uburwayi bujyanye no kuba bafite isukari nyinshi mu mubiri.

Inzu ifite igikuta gisize ibara ry'ubururu n'amatafari ahiye, harimo akabati gakozwe mu mbaho, hejuru y'akabati hateretseho inkongoro ebyiri, inyuma yaho hari icyapa kiri mw'ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba hariho igishushanyo cy'inka gifite amabara abiri, umweru ndetse n'umukara.

Indobo ebyiri zirimo ibiribwa imwe muriyo hejuru hariho igifatisho kuruhande hari umuryango w'ubururu ufatishijweho icyapa cy'ubururu kiriho ibikombe bitatu by'amata ndetse hakaba hari kumuhanda.

Icyuma gishinzwe gutungaya amata, kiriho icyapa cy'ubururu n'umweru, cyanditseho amagambo "Inyange". Hasi hari ibido y'umweru ndetse n'indobo, ku ruhande hari intebe y'umweru n'imeza y'umweru, hakaba hasashe amakaro hasi y'umweru.

Amasambusa menshi, ari ku isahani irambitse ku meza y'imbaho, hariho ifarini ku ruhande, ntabwo barayashyira mu mavuta acaniriye kugira ngo abe yabasha kuribwa. Ashobora kuba akozwe mu mashu, amashaza, inyama, ibirayi.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gihagaze hanze imbere y'inzu isashemo amakaro y'umweru ku ruhande hari igare ndetse n'ibuye n'ibyuma bishyirwamo amata hari amazi yamenetse hasi.

Akabati k'umweru karambitsemo amata ndetse n'amagi, hejuru hari indubo yubitse irimo ibiribwa, ku ruhande hari icyuma cyabugenewe mu gutunganya amata kiri hejuru y'ameza y'ubururu ndetse ku ruhande hakaba hari indobo y'ubururu, munsi hari amabido abiri afite ibara ry'umweru.

Abakobwa babiri, umwe muri bo ari kubuganiza amata mu kabido k'umweru akoresheje ijage y'icyatsi, yambaye umupira w'ubururu n'ingofero y'umweru, undi ari mu idirishya, yambaye umupira w'umweru n'ishati irimo amabara y'umutuku.

Umugore w'imibiri yombi witeze agatambaro karimo ibara ry'icyatsi n'umukara, ari guseka afite icyansi kirimo amata yuzuye, ku ruhande rwe hari icyuma cyabugenewe mu gutunganya amata ndetse n'ameza y'umweru, ku rundi ruhande hari indobo y'icyatsi.

Umugore w'imibiri yombi wambaye ikanzu y'igitenge irimo ibara ry'umutuku, ndetse akaba yambaye n'amaherena, ari gukora ku rupapuro, ari mu nzu irimo icyuma gitunganya amata, iyo nzu ifite inkuta z'umweru.

Igikombe cyuzuye amata giteretse ahantu h'umweru havanzemo n'utundi tubara umuhondo, icyatsi, umukara, ku ruhande hari akaboko k'umuntu w'inzobe ndetse n'agacupa k'amazi.

Utubido dutandatu tune muri two dufite imifuniko y'umweru twanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, icyatsi ndetse n'ubururu hasi hasashe amakaro y'umweru ku ruhande hari indobo ikoze mu cyuma.

Inzu y'ubucuruzi irimo icyuma cyabugenewe mugutunganya amata harimo intebe zumweru nimeza y'umweru hirya yaho hakaba hari akabari karambitsemo amabido ndetse namagi n'amacupa y'amazi hari inkuta kumpande zubakishijwe amatafari ahiye.

Amasambusa y'inyama ariyeho ndetse natariyeho, ari ku isahane y'ubururu, araryoha cyane, aba akoze mu ifarine, inyama, amavuta, amazi, araryoha cyane, ndetse n'intungamubiri mu buzima bw'umuntu,

Inzu isashe amakoro y'umweru hasi ndetse no ku nkuta, hakaba hari umukobwa wambaye ikabutura n'inkweto zifunze n'umupira w'umweru, ku ruhande rwe hari icyapa cy'umweru, cyanditseho amagambo y'umukara.

Inzu irimo ababido atatu y'umweru ariho akapa k'ubururu kanditseho jibu, umuryango w'ubururu umanitseho icyapa cy'ubururu n'umweru, kiriho ubukombe butatu. Kuruhande harimo icyuma cyabugenewe mu gukonjesha ibinyobwa.

Amandazi akorwa mu ifarini, isukari, amagi ndetse n'amazi cyangwa se ukaba wakoresha amata, nyuma yaho ukaza kuyashyira mu mavuta wacaniriye cyane. Araryoha, araneneza, ndetse ni n'intungamubiri.

Inzu y'ubucuruzi irimo amagi, amata, biri mu kabati k'ibirahure n'imbaho; ndetse n'ijage y'ubururu n'umufuniko wayo, biteretse hejuru y'ameza y'umweru. Hirya y'aho hari indobo y'ubururu, icyuma cyabugenewe mu gutunganya amata, giteretse hejuru y'ameza y'ubururu.

Umugore w'inzobe wambaye agapira k'umweru ndetse afite imisatsi migufi y'umukara. Inyuma ye hari umugore wambaye agapira k'umweru ndetse n'ak'umukara, akaba afite agatambaro mu mutwe k'umukara. Hari utubido tw'umweru, inyuma ye hari imigano.

Agatebo k'ibara ry'ivu ryijimye, gafite imyenge myinshi mitoya igiye itandukanye, ndetse n'indi myemge ibiri iringaniye, aho abantu bashobora gufata bagaterura; mo imbere harambitsemo agatambaro k'umweru karambuye gashushanyijeho.

Indobo ibonerana irimo igifatisho n'amandazi abiri akozwe mu ifarine, isukari, amagi, amatata cyangwa se ukaba wakoresha amazi araryoha agira intungamubiri ariko ku bantu badafite uburwayi bujyanye no kuba bafite isukari nyinshi.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zubatseho amakaro y'umweru, hakaba harimo utubati duhagaze tw'umukara mo imbere hakaba hateretsemo utubido twinshi tw'umweru tugiye dutandukanye.

Akabati k'umweru kamanitseho icyapa cy'umukara kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru agira ati "Mukamira" hateretseho amata y'ubwoko bwinshi ariho udushushanyo tugiye dutandukanye, imbere ya ho hariho abantu babiri bambaye imipira y'ubururu.

Ibiribwa bitatu bikozwe mu ifarini, isukari, amagi, amata ndetse n'ibindi birungo, birambitse hejuru y'isahane y'umweru hariho agatambaro k'umweru, bikaba biri hejuru y'ameza afite ibara ry'umukara ndetse n'utundi tw'umweru.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisize amarange y'ubururu ndetse n'akabati gakoze mu mbaho gasize amarange y'ubururu, harambitsemo ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo amazi iri mucupa magufiya n'icupa rirerire ndetse n'imitobe ywe n'amata.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisize amarangi y'umweru, n'utubati dukozwe mu mbaho tw'umweru, harimo abagabo babiri umwe muri bo ni imibiri yombi, yambaye umupira w'amaboko maremare, urimo utubara tw'ijuju n'umukara, ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, undi afite akabido k'umweru mu ntoki ni imibiri yombi.

Inzu y'ubucuruzi irimo abantu bagiye batandukanye umwe muribo arikoreye, hari utubati tubiri dukozwe mu mbaho kamwe karambitseho amabido hejuru asa umuhondo n'imifuniko y'umutuku, hanze hari izuba ryinshi.

Akapa gato k'umuhondo kivanzemo utubara tw'umweru kanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara ndetse n'imibare. Imwe muri iyo ni umunani, gatatu, icyenda, gatanu, kane, kane ndetse n'udushushanyo twa kare twinshi turi hasi.

Akazu gato k'ubucuruzi k'umuhondo kanditseho amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'umweru, umukara harimo umugore w'imibiri yombi wambaye umupira w'umukara ndetse n'umugabo ugahagaze hanze wambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Umutaka w'umuhondo urimo abantu babiri bari guhana igikoresho k'itumanaho ngendanwa, umwe muri bo yicaye yambaye ishati y'amaboko maremare undi arahagaze yambaye ishati y'amaboko magufiya, inyuma yabo hari umutaka wundi ufite ibara ry'umutuku, urimo abantu babiri.

Akapa gato k'umuhondo, kanditseho uburyo bwo kwishyura ku ikoranabuhanga, byihuse, ukanze akanyeyeri, ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri, gatatu, urwego, ubundi ukinjizamo nimero z'uwo ugiye guha amafaranga.

Akazu gato k'ubucuruzi k'umuhondo kanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru; hari umugabo uhagaze hanze wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'amaboko magufiya, urimo utubara tw'umweru n'umuhondo, kakaba kari ku muhanda w'igitaka.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, mo imbere ikaba irimo abagabo bane, batatu muribo ni abagabo bambaye imipira y'umuhondo irimo ibara ry'umukara, undi yambaye umupira w'umuhondo urimo ibara ry'umweru, muri abo umwe afite ibara ry'uruhu rw'umweru.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'akazu gatoya k'umuhondo ka emutiyene, ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda. Hirya yabo hariho icyapa cyiri mu mabara y'umuhondo, umweru, ubururu ndetse n'umutuku. Abo bagabo umwe yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye umupira w'ikijuju, undi yambaye ishati y'umweru.

Akazu gato ku muhondo, gakozwe mu mutaka kanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umweru, umutuku, umukara, harimo abantu benshi bagiye batandukanye, abagabo, abasore, umwe muri bo yambaye ishati y'amaboko magufiya y'umweru irimo uturango ndetse n'ikoboyi, ku ruhande hari undi mutaka ufite ibara ry'ubururu, wanditseho amagambo y'umweru.

Akazu gato k'ubucuruzi bw'umuhondo, hariho abagabo babiri umwe uhetse igikapu cy'umukara yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ingofero y'umweru, undi yambaye ishati y'igitenge, afite terefone mu ntoki.

Akazu gato k'umuhondo k'ubucuruzi, imbere yako hahagazeho abantu batatu: umugore umwe n'abagabo babiri; ku ruhande hamanitseho umupira ufite ibara ry'umukara, ndetse n'undi w'umutuku kakaba kari ku muhanda w'igitaka.

Akazu gato k'umuhondo ka emutiyeni ikigo gishinzwe itumanaho gikorera mu Rwanda, inyuma yako hari ibiti by'icyatsi, ndetse hirya hari imodoka ifite ibara ry'ikijuju kari ku muhanda kuri kaburimbo.

Abantu batanu, bane muri bo bambaye imipira y'umuhondo, batatu muri bo ni abakobwa, undi ni umuhungu n'umukobwa umwe ufite imisatsi miremire y'umukara w'imibiri yombi, bakaba bari ahantu hari ibyapa bifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru.

Akazu gato k'ubucuruzi k'umuhondo kicayemo umugabo wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ishati y'umuhondo n'agapfukamunwa k'umukara w'imibiri yombi. Akaba hari n'undi uhagaze wambaye ishati y'amaboko maremare irimo amabara menshi agiye atandukanye wambaye ingofero y'umukara ndetse n'agapfukamunwa k'umwenda.

Ikinyabiziga kiri ku muhanda w'umukara kiri m'ubwoko bw'ipikipiki, cyicayeweho n'umuntu wambaye ingofero y'umutuku yabugenewe, uhetse igikapu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, umutuku, umweru ndetse hari umukobwa umuhagaze imbere wambaye ishati y'umuhondo, agapfukamunwa.

Akazu gato k'ubucuruzi k'ibara n'umutuku, kariho umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ipantalo y'umukara ufite igikoresho k'itumanaho mu ntoki, ku ruhande rwe hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'ikoboyi uhetse igikapu imbere.

Umugabo w'imibiri yombi ufite umusatsi mu gufi w'umukara wambaye umupira w'ubururu, imbere ye hicaye umuntu wambaye umupira w'umuhondo uri gukoresha mudasobwa, hari ikirahure kiri kugaragaramo inyubako ndende imwe muri zo ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Igikoresho cy'itumanaho ngendanwa kiri kwakamo ubururu, cyanditswemo amagambo y'umweru agira ati "Ugiye kwishyura amafaranga ibihumbi bibiri magana atanu kuri Jean Bosco, ikiguzi ni zeru. Emeza ushyiramo umubare. " Gifashwe n'umuntu.

Akazu gato k'ubucuruzi k'umuhondo handitseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara ry'umutuku n'umukara ndetse hari umugabo uri kuruhande uri gukoresha ibikoresho by'itumanaho ngendanwa w'imibiri yombi ufite umusatsi mugufi w'umukara w'ambaye umupira w'ubururu.

Inzu isize amarange y'umweru n'umutuku harimo utubati dufite ibara ry'umweru n'umutuku twanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, kuruhande hari icyapa kiriho abakobwa babiri bari kureba muri terefone bari guseka.

Akazu gato k'umuhondo k'ubucuruzi hicayemo umukobwa, hari abagabo bari imbere y'ako kazu basa nk'abategereje ko babakira, inyuma y'ako kazu hari umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi.

Akazu gato k'ubucuruzi k'umutuku kariho imbere abantu bari kuramukanya, umwe muri bo ni umugore ari guseka, afite musatsi mugufi w'umukara yambaye umupira urimo amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu ku ruhande rwe hari umgabo wambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru.

Umugore uri guseka w'imibiri yombi ufite imisatsi miremire y'umukara yambaye igitenge ku ruhande rwe hari umugabo ufite igikoresho k'itumanaho ngendanwa mu ntoki yambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru afite n'amadarubindi. Imbere ye hakaba hari undi mugabo w'imibiri yombi ufite umusatsi mugufiya.

Abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'umutuku w'imibiri yombi ufashe igikoresho k'itumanaho mu ntoki yambaye isaha, undi yambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'ubururu ari guseka, inyuma yabo hari umugore wambaye amadarubindi w'imisatsi miremire ndetse n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo.

Akazu gato k'ubucuruzi k'umuhondo, karimo umugabo wambaye ishati y'umweru, uri kwitabira ku gikoresho cy'itumanaho ngendanwa, hanze yako hari abantu bane, abagabo babiri n'abagore babiri, umugabo wambaye ishati y'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'ubururu bwijimye, ku ruhande hari umugore wambaye ikote, ufite umusatsi mugufi w'umukara.

Icyapa kinini cy'umuhondo cyanditseho amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru n'imibare. Imwe muri iyo mubare ni akanyenyeri rimwe kane zeru urwego n' akanyenyeri gatatu kane gatanu urwego utsindire ibihembo byinshi, hariho n'umwana ufite umusatsi mugufiya w'imibiri yombi.

Akazu gato ka ubucuruzi ka umuhondo , kanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara rya umukara ndetse na umweru kari kumuhanda. Imbere yako hariho umugore ufite imibiri yombi ndetse na imisatsi migufiya ya umukara, ufite igikapu mu ntoki.

Akazu gato k'umuhondo k'ubucuruzi harimo umugabo wirabura wambaye umupira urimo utubara tw'umweru ndetse nikigona, akaba afite ikaramu y'ubururu ari kwandika ari guteranyiriza amafaranga umukobwa wirabura ufite imisatsi y'umukara uri guseka.

Akazu k'umuhondo gatoya k'ubucuruzi kanditseho mtn, akaba ari ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda ndetse n'amapoto atatu, ku ruhande hakaba hari ibyapa, inyuma yabyo hakaba hari ibiti bifite amashami y'icyatsi.

Intoki zifashe igikoresho cy'itumanwaho ngendanwa mu ntoki, kiri kwakamo ibara ry'umweru n'umutuku, handitsemo amagambo ndetse n'udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye turi mu ibara ry'umukara, umutuku, ndetse n'ubururu. Hariho abantu batatu babiri muri bo ni abakobwa undi ni umugabo.

Akazu gato k'umuhondo k'ubucuruzi karimo umugabo wirabura ufite imisatsi migufiya y'umukara, wambaye umupira urimo ibara ry'umweru ndetse n'ikigina, ku ruhande rwe hakaba hari igiti kinini.

Abantu benshi bagiye batandukanye; abagabo, abasore, abana. Bari ku muhanda w'umukara. Hari ibyapa by'umuhondo byinshi birimo ibara ry'ubururu n'umweru, ndetse n'amarangururamajwi. Hari umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ipantaro.

Akazu gato k'umuhondo k'ubucuruzi gakinguye, kanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, ubururu, amwe muri yo ni "Serivisi za Mobile Mani wazisanga hano". Ku ruhande hari urugi rusa ivu, rukinze, ku rundi ruhande hari urugi rukinguye, imbere hari umuntu ufite igikoresho cy'itumanaho ngendanwa.

Inzu yubucuruzi irimo abantu bagiye batandukanya: abagabo, abasore nabagore barimo umugabo wambaye umupira wumukara amadarubindi, ari kureba kuri mudasobwa yiwe irimo amabara yuubururu.

Abagabo babiri, umwe ari kureba muri telefone, yambaye amadarubindi n'umupira w'umuhondo. Undi ari guseka, yambaye umupira urimo umukara, umweru, ndetse n'umutuku. Imbere yabo hari mudasobwa iteretse ku meza.

Icyapa cy'umukara kiriho amagambo menshi agiye atandukanye y'umweru amwe muriyo ni Hakuzimana nimero kabiri gatanu, zeru, karindwi, umunani, gatandatu, gatanu, kabiri, gatandatu, umunani, umunani, gatatu hepfo hariho umurongo muremure w'umweru.

Abantu benshi bagiye batandukanye: abagabo , abagore, abana, abakobwa, abenshi muri bo bambaye umupira w'umuhanda, hari icyapa kiri ku ruhande cy'umuhondo kiriho abantu babiri bari guseka, chanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umukara.

Inzu isize amabara agiye atandukanye, umuhond , ubururu, move, umweru, hakaba harimo n'amatara ari kwaka umweru, mo imbere harimo abantu bagiye batandukanye harimo abambaye imipira y'umuhondo, abambaye amashati y'umweru.

Abakobwa babiri b'imibiri yombi bicaye mu mutaka w'umuhondo wa emutiyeni akaba ari ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda bakaba bari gucuruza ibikorwa byabo ndetse banabyamamaza.

Abagabo babiri, b'imibiri yombi bakoranye mu ntoki; bambaye imipira y'umuhondo, bari guseka bishimye,; inyuma yaho hariho umutaka w'umuhondo, hakaba harimo abantu bagiye batandukanye; abagabo, abagore, abasore.

Umutaka w'umuhondo nu'bururu wandisteho amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'umweru n'umukara harimo abagabo babiri b'imibiri yombi umwe uhetse igikapu cyumukara n'ishati yumweru, bakaba bahagaze imbere y'inyubako ndende.

Akazu gato k'ubucuruzi k'umuhondo, karimo umukobwa wambaye umupira w'umweru n'imisatsi miremire. Hanze hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo. Ku ruhande rwe hari ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka cy'ubururu, ndetse imbere y'ako kazi hari umugabo wambaye ishati y'icyatsi.

Inzu ifite inkuta ziriho irangi ry'ikijuju, hakaba harimo abantu batatu. Babiri ni abagore, umwe afite ibara ry'uruhu ry'umweru, undi ni umwirabura. Hakaba hari n'umugabo uhagaze, ufite agaseke mu ntoki, wambaye umupira w'umweru.

Umutaka w'umuhondo urimo abagabo bane; batatu muri bo bambaye amashati y'umuhondo, umwe yicaye ku ntebe y'umuhondo, bari ku muhanda w'umukara. Inyuma yabo hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo iby'ipikipiki,

Akazu gato k'umuhondo k'ubucuruzi karimo umugabo n'umugore bari kwakira abagore babiri ndetse n'umugabo hanze, inyuma y'ako kazu hari ikinyabiziga k'ipikipiki ndetse n'ikindi gitwara abantu benshi.

Umugore w'imibiri yombi, uri guseka, wambaye umupira w'umuhondo, wanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'ubururu n'umukara. Ku ruhande rwe hari intebe y'icyatsi, ku rundi ruhande hari ameza akozwe mu mbaho, arambitseho igitambaro cy'umweru.

Akazu gato k'umuhondo k'ubucuruzi karimo umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ufite telefoni mu ntoki, n'umukobwa wambaye ingofero mu mutwe, hari umugabo uri hanze wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru ufite ikora ry'umuhondo kumpande ze hari intebe z'umukara. Imbere ye hari ameza iriho ingofero ndetse n'imipira by'umuhondo, kuruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro y'ikoboye n'ishati irimo amabara menshi agiye atandukanye.

Akazu gato k'ubucuruzi k'umuhondo handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku imibiri yombi ndetse n'umukobwa ugahagaze hanze uhetse igikapu cy'umukara wambaye umupira 'umweru akaba afite udukomo dufite amabara agiye atandukanye, ku ruhande hari akandi kazu gafite ibara ry'icyatsi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ufashe akapa k'umuhondo n'umweru kanditseho amagambo agiye atandukanye airmo ibara ry'umukara, ubururu ndetse n'imibare imwe muri iyo mibare ni: kabiri gatanu zero gatanu rimwe umunani akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani urwego kuruhande hari amapantalo y'ubwoko bwinshi y'amakoboyi.

Akazu gato k'ubucuruzi gafite ibara ry'umutuku, kanditse ho amagambo y'umweru, hakaba hamanitseho ibyapa, kimwe muri cyo, hariho umukobwa ufite umusatsi mugufi w'umukara, ndetse ku ruhande rwako kazu, hariho icyapa k'icyatsi.

Akapa k'umuhondo n'umweru kariho amagambo atandukanye, ari mu ibara ry'umkara n'ubururu, agira ati " akanyenyeri rimwe karindwi zeru urwego, Rabu imibare umunani icyenda, gatandatu, gatandatu, gatandatu, umunani.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umuhondo yanditseho amagambo ari mu tubara tw'umweru n'umutuku, umwe muri bo aricaye yambaye amadarubindi, ari gukoresha Mudasobwa, hari undi ubahagaze imbere wambaye umupira w'umweru n'igikapu cy'umukara mu mugongo bakaba bari kuvugana.

Icyapa cy' umuhondo kirimo utubara tw' umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye arimo ibara ry'umukara atsindagiye ndetse n'adatsindagiye ndetse hariho n' utudomo n' imibare. Imwe muri iyo mibare ni karindwi umunani icyenda zeru kabiri zeru.

Abagabo babiri bafite mu ntoki ibikoresho by'itumanaho ngendanwa, umwe muri bo yambaye umupira w'umuhondo ufite ikora ry'ubururu, ndetse n'ingofero y'umuhondo; undi yambaye ikote ry'umukara. Bahagaze imbere y'ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka cy'umukara.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi, akaba ahagararanye n'umugabo wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ingofero akaba afite telefone mu ntoki, bakaba bahagaze imbere y'akazu k'umuhondo.

Akazu gato k'ubucuruzi kanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, harimo umugore wambaye umupira w'umuhondo, ufite imisatsi migufiya y'umukara, hirya hari inzu nini ifite amabara y'umutuku, imbere hari akana gatoya kirabura.

Inzu ifite inkuta zisize irangi ry'umweru n'amatara y'umweru ari kwaka. Harimo abantu benshi bagiye batandukanye, abagabo n'abagore. Bamwe muri bo bambaye imipira y'umweru ifite amakora y'umuhondo, ndetse n'abandi bambaye umuhondo. Bafite na za mudasobwa.

Abantu babiri bambaye imipira yimihondo umwe muribo n'umukobwa wimibiri yombi ufite imisatsi yikigina hahagaze umutaka wumuhondo kuruhande hari icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse numuhondo inyuma yabo hari abantu bagiye batandukanye bicaye kuruhande hari icyuma cyabugenewe mukurangurura amajwi cyibara ry'umukara.

Abantu batatu bari mu nzu ifite irangi ry'ibara ry'ikujuju; muri bo harimo abagabo babiri: umwe yambaye umupira w'umweru, undi yambaye ishati y'umweru irimo utundi tubara, hakaba hari n'umukobwa wicaye ku ntebe y'umukara wambaye umupira w'umuhondo, ufite umusatsi mugufi w'umukara.

Akazu gato k'umuhondo k'ubucuruzi gakinze kanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, ku ruhande hari icyapa cy'umweru ndetse n'amapoto abiri ku ruhande rumwe ku rundi ruhande, inyuma yacyo hari ibiti byinshi bifite amababi y'icyatsi.

Akazu gato k'ubucuruzi k'umuhondo kariho icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'umukara ndetse n'imibare, imwe muri iyo mibare ni akanyenyeri, ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatanu, urwego ikaba iri imbere y'inzu ifite ibara ry'umuhondo.

Umugore w'imibiri yombi wambaye rinete n'ikanzu, uhetse agakapu ndetse akaba afite imisatsi y'umukara, n'abagabo batanu bambaye imipira y'umuhondo irimo utubara tw'ubururu, n'abandi bantu bicaye ku ntebe z'ubururu.

Abantu babiri bahagaze bari kureba mu gikoresho cy'itumanaho ngendanwa, umwe muri bo ni umugabo wambaye ingofero y'umuhondo n'ubururu, ndetse n'umupira w'umuhondo, umugore wirabura ufite imisatsi miremire wambaye ishati y'ubururu, ku ruhande rwabo hari abana babiri.

Inzu isize amarange y'umweru n'umutuku, irimo insakazamashusho iri kwaka, hari abantu bagiye bahagaze ndetse n'abicaye; muri bo hari umugore wambaye ikanzu y'umutuku w'imibiri yombi, ufite umusatsi w'umukara; ndetse n'umugabo uhagaze, wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru.

Akazu gato k'umuhondo k'ubucuruzi, karimo umugore wicaye ufite imisatsi miremire w'imibiribyombi. Hakaba hometseho icyapa cy'umweru kiriho amagambo agiye atandukanye, mu ibara ry'umukara ndetse n'iry'umweru, n'umugabo wambaye ishati y'umukara uri guseka. Ku ruhande rw'ako kazu hari umwana mutoya ufite agapfunyika k'umweru.

Akazu gato kubucuruzi k'umuhondo kanditseho amagambo agiye atandukanye ari mwibara ry'umukara ndetse n'umweru, imbere yako hari umugore w'imibiri yombi ufite imisatsi migufi y'umukara ufite igikapu mu intoki, urigukoresha igikoresho kitumanaho jyendanwa.

Akazu gato k'umuhondo kubucuruzi karimo umugore ufite umusatsi muremure w'umukara, wambaye isaha, ufite inzara zisize amabara, ufite n'ikaramu mu ntoki. Ari kuganira n'undi mukobwa wambaye umupira w'umutuku uri iruhande rwe.

Abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagabo, abagore, abana, umwe muri bo yambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu, ndetse n'ipantaro y'umukara, afite ikayi mu ntoki y'ubururu, kuruhande rwe hari umwana ufite imisatsi y'umukara wambaye ikanzu y'ubururu.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku, igikapu cy'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, uri kuri telefone arahagaze ndetse n'abandi bagabo benshi, imbere ye hari umugabo wambaye umupira w'umutuku, ingofero y'umutuku, ipantaro y'umukara.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagabo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara ndetse n'imibare. Imwe muri iyo mibare ni ijana na mirongo inani na kabiri akanyemyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri zeru kane gatatu gatandatu gatandatu ikenda urwego nta yandi mafaranga wishyuzwa.

Abantu babiri bari mu muhanda w'umukara, umwe muri bo ni umugore ufite imisatsi y'umukara, wirabura, wambaye isengeri irimo utubara tw'icyatsi ndetse n'umweru, undi ni umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru ndetse n'ikigina, wirabura, ufite ikaramu y'ubururu.

Abantu babiri bahagaze. Umwe muri bo ni umugabo wambaye umupira w'imbeho w'umukara, uri kwitabira ku gikoresha cy'itumanaho ngendanwa. Undi ni umukobwa ufite imisatsi migufi y'umukara, wambaye umupira w'umuhondo wanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'ubururu.

Akazu k'umuhondo k'ubucuruzi gatoya kaba kariho abantu bane bategereje ko bababkira abagabo babiri n'abagore babiri, ako kazu gakikijwe n'ibiti binini bifite amababi y'icyatsi ndetse hirya hari n'imodoka nyinshi.

Akazu gato k'ubucuruzi k'umuhondo, karimo umukobwa uri guseka w'imibiri yombi, wambaye ishati y'umweru ifite ikora ry'umukara ndetse n'imisatsi isa move, inyuma ye hari utwapa tugiye dutandukanye, dufiteho amabara y'umuhondo n'amagambo y'umukara ndetse n'ibiganza by'umuntu.

Utwapa tubiri tw'umuhondo, kamwe ni gatoya, akandi ni kanini, kanditseho uburyo bwo kwishyura amafaranga byoroshye, ukanze akanyeyeri, ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri, gatatu, akanyenyeri, urwego, ubundi ukohereza kuri nimero zikurikira: gatandatu, zeru, zeru, rimwe, icyenda, gatandatu.

Inzu isize amarangi y'ubururu yanditseho amagambo agiye atandukanye ari mw'ibara ry'umukara n'umweru. Hari kwakamo amatara menshi mw'ibara ry'umweru, mo imbere ndetse no hanze harimo abantu benshi bagiye batandukanye, bamwe muribo hari abambaye imipira y'umuhondo n'ingofero z'umuhondo.

Icyapa cy'umuhondo cy'umuhondo n'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umukara agira ati:'' Izina ry'umucuruzi Inuma, kanda akanyenyeri ijanana mirongo inani nakabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri zeru zeru gatanu gatanu rimwe gatatu uwego, ntayandi mafaranga wishyuzwa.

Abagabo babiri, umwe wambaye umupira wa umuhondo, amadarobindi, uri kureba mugikoresho cya itumanaho ngendanwa, undi wa imibiri yombi akaba yambaye umupira wa umukara, ibara rya umweru na icunga ndetse hakaba hari na mudasobwa iteretse hejuru ya ameza ya umukara.

Akapa k'umuhondo, ubururu, umweru kanditseho amagambo agiye atandukanye y'umukara, amwe muri yo ni akanyenyeri rimwe umunani kabiri akanyenyeri gatatu urwego zeru zeru zeru zeru umunani rimwe. Ntayandi mafaranga wishyuzwa.

Icyapa cy'umuhondo kiriho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu bwijimye, kuruhande hariho udushushanyo tw'umweru, harimo amatara menshi ari kwaka ibara ry'umweru, inyuma y'iyi nzu hari ibiti byinshi bifite amashami y'ibara ry'icyatsi.

Akapa gafite ibara ry'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu; hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara agira ati " umunani, kabiri, akanyenyeri, umunani, akanyenyeri, rimwe, akanyenyeri, gatandatu, gatandatu, gatandatu, gatandatu, gatatu, zero, urwego.

Akazu gato k'ubucuruzi k'umutuku, kamanitseho ibyapa bigiye bitandukanye, kimwe muri byo gisa umutuku, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ikindi gisa umweru, kiriho umugore uri kwitabira ku gikoresho cy'itumanaho ngendanwa uri guseka.

Abagore babiri umwe wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'ubururu uri guseka undi akaba yambaye ikanzu y'umukara irimo akabara k'umweru ,akaba afite igikoresho cy'itumanaho ngendanwa mu ntoki inyuma yabo hari imitobe igiye itandukanye.

Akazu gato k'umuhondo k'ubucuruzi kamanitsemo icyapa cyanditseho amagambo arimo ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, harimo umugabo wambaye umupira w'amaboko magufiya ufite ibara ry'ikigina ndetse n'umweru afite umusatsi mugufi w'umukara na we arirabura ari kureba ku ruhande.

Akapa gato k'umuhondo n'umweru kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu kerekana uburyo bwo kwishyura bw'ikoranabuhanga bwihuse, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyeneri gatatu urwego, imibare akaba ari gatandatu, zeru zeru rimwe, umunani, gatatu.

Inyubako nini irimo ibyapa bigiye bitandukanye biri mu ibara ry'umuhondo byanditseho amagambo ari mu ibara y'umukara ndetse n'umweru harimo abantu benshi umwe muri bo yambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro y'umukara ari kwitabira ku gikoresho k'itumanaho ngendanwa.

Inzu y'ubucuruzi irimo abantu bagiye batandukanye umwe muribo yambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'ubururu, undi yambaye umupira w'umukara n'ingofero ari gukoresha igikoresho kitumanaho muntoki imbere yabo hari abantu babiri bambaye imipira y'umutuku n'ingofero z'umutuku.

Telefone ngendanwa irikwakamo ibara ry'ubururu handitswemo amagambo agira no shyiramo amafaranga ikaba ifashe n'umuntu w'imibiri yombi ndetse inyuma yaho hakaba hariho ibara ry'umweru.

Akazu k'ubucuruzi gato k'umuhondo kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu; hahagazeho abantu bari guseka: umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ikoboyi n'umukobwa wambaye ishati y'umuhondo n'ipantaro y'umukara; kakaba kari ku muhanda w'igitaka.

Akazu gato k'ubucuruzi gafite ibara ry'umuhondo, kariho imitako ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, kari ku muhanda, karimo abantu batatu, umwe muri bo yambaye agapfukamunwa k'umutuku. Hariho ibyapa bifite ibara y'ubururu, umutuku, n'umuhondo.

Umugore uri guseka witeze agatambaro k'umweru, ufite icyapa mu ntoki cy'umuhondo, kiriho uburyo bwaje bw'ikoranabuhanga bwo kwishyura ndetse afite ikaramu mu ntoki, ku ruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro y'icyatsi n'inkweto z'umukara.

Akapa k'umuhondo, kagaragaza uburyo ugomba agomba kwishyura, ukanze akanyenyeri, ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri, gatatu, urwego, hama nyuma ugashyiramo nimero zabugenewe, aho amafaranga agiye kujya. Ni uburyo bwaje bw'ikiranabuhanga, bworoshye, bwo kwishyuramo.

Umugabo w'imibiri yombi ufite ubwanwa bwinshi wambaye umupira w'ubururu, afite telefone mu ntoki ari kurebamo, ndetse n'ikarita y'umutuku. Imbere ye hari inyanya nyinshi kuruhande rwe hari umutaka w'umutuku ndetse n'uw'umuhondo.

Ikinyabiziga cy'umukara gishushanyijweho amacupa hicayemo umugabo, hanze yacyo hari umugabo w'imibiri yombi wambaye umupira urimo ibara ry'umuhondo n'ubururu, yambaye isaha ndetse n'impeta ku kaboko ari guseka.

Ibinyabiziga bibiri biri mu bwoko bw'ipikipiki, bihagaze ku muhanda w'umukara, buri kinyabiziga kiriho umugabo wicaye ndetse n'undi uhagaze uri kwishyura, bambaye udupfukamunwa tw'umuhondo, inyuma y'abo hari icyapa cy'umweru ndetse n'ipoto.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye ishati y'umweru irimo imiturongo, imbere ye hari umugore w'imibiri yombi ufite imisatsi y'umukara, wambaye umupira w'umweru n'ikora ry'umuhondo, yambaye impeta n'agakomo, inyuma ye hari icyapa cy'umukara n'umuhondo cyanditseho amagambo agiye atandukanye arimo ibara ry'umweru n'umukara.

Inzu y'ubucuruzi ikinguye yometseho ibyapa bifite amabara y'umweru n'umutuku, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, n'umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara, uri guseka, n'igikoresho cy'itumanaho mu ntoki. Ku ruhande hari umuntu wicaye.

Umuntu wicaye wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'umweru, afite igikoresho cy'itumanaho ngendanwa mu ntoki, kiri kwakamo ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru. Yambaye udukomo. Hasi hashashwe amakaro, ndetse hari n'ibirenge by'umuntu byampaye inkweto.

Abagabo bahagaze bafite mu ntoki ibikoresho by'itumanwaho ngendanwa, umwe muri bo yambaye umupira w'umutuku n'amadarubindi, ni imibiri yombi, undi yambaye ishati y'umuhondo, n'umupira urimo ibara ry'ubururu n'umweru, inyuma yaho hari abantu bagiye batandukanye, ndetse n'umutaka w'umuhondo wanditse ho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'umutuku.

Umuntu wicaye hasi hakaba hasashe amakara y'umweru, yambaye ipantaro y'ubururu ni imibiri yombi akaba afite igikoresho cy'itumanaho ngendanwa mu ntoki kiri kwakamo ibara ry'umuhondo, umweru, ubururu handitsemo amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara.

Abagabo babiri bari kubyina, umwe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umweru, undi yambaye umupira w'umweru n'ikoboyi. Hirya yaho hari abakobwa batatu bambaye imipira y'umuhindo. Umwe ahagaze ku meza iriho igitambaro cy'umuhondo.

Akazu k'ubucuruzi gato k'umutuku gafunze kariho ibara ry'umweru kari ku muhanda w'umukara, ku ruhande hari umugore wambaye isengeri y'umuhondo ufite umusatsi mugufi w'umukara, hirya hari ikinyabiziga cy'umweru.

Ameza afite ibara ry'ikigina kererutse hariho utwapa twinshi tugiye dufite imibare itandukanye iriho ndetse n'amazina dusa umuhondo n'umweru, inyuma hakaba hari za mudasobwa ziri kwaka ebyiri. Imwe muri izo nimero ni zeru kabiri gatandatu zeru gatandatu kabiri.

Urugi rw'umukara ruriho icyapa cy'umuhondo n'umukara cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mwibara ry'umukara , umweru ndetse hakabaho n'ibikoresho by'itumanaho jyendanwa bitatu kimwe cy'ubururu bibiri by'umukara, muri ay'amagambo hariho ahanditse ubuntu nokwisondeka.

Akazu gato k'umuhondo k'ubucuruzi kamanitsemo icyapa cy'umuhondo cyanditseho amagambo agiye atandukanye arimo ibara ry'umukara. Mo imbere harimo umugore w'imisatsi y'umukara ndetse inyuma ye hakaba hari imyenda myinshi imanitse ifite amabara y'icyatsi, umweru, umutuku.

Akazu gato k'umuhondo k'ubucuruzi kanditseho amagambo agiye atandukanye arimwibara ry'umukara n'umutuku, hanze yako hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru ufite igikoresho kitumanwaho ngendanwa muntoki kuruhande hari akandi k'umutuku karimo umugabo wamabye umupira irimo amabara y'umutuku n'umweru.

Akazu gato k'umuhondo k'ubucuruzi karimo umugore wambaye ishati y'amaboko maremare wifashe ku matama, w'imibiri yombi. Hari abagabo babiri bahagaze hanze: umwe muri bo ahetse igikapu cy'umukara, ari kureba ku ruhande, undi ari guseka, afite umusatsi mugufi w'umukara.

Akazi k'umuhondo gatoya ku bucuruzi kanditseho MTN, ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, harimo umugabo wambaye umupira w'umuhondo urimo n'amabara y'ubururu, imbere ye hari umugabo uri kuri telefone wambaye ikote ry'umutuku.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbugankoranyambaga cy'umweru, cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara : ry'umukara, ubururu ndetse n'ikijuju; hariho udukapu tubiri turiho inyuguti ya ''sa'', kamwe gasa icyatsi akandi gasa umukara.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga cy'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanya ayo mu ibara ry'umukara, ivu ndetse n'umweru hariho udushushanyo nk'igikoresho tw'itumanwaho ngendanwa ndetse n'ikirenge cyambaye urukweto rufunguye ruri mw'ibara ry'umutuku rw'umweru.

Icyapa cy'icyatsi n'umweru cyo ku mbuga nkoranyambaga, kiriho amagambo menshi agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru n'umukara, hariho n'agakapu k'icyatsi kariho inyuguti ya sa, kuruhande hariho mudasobwa ndetse n'igikoresho cy'itumanaho ngendanwa mu ntoki.

Iseri y'imineke ndetse n'umuneke umwe wakuweho igishishwa ugakatwamo uduce dutatu dutoya, ku ruhande hari ibijumba bikiva mu murima bitarakorerwa isuku ndetse nidatetse bikaba biri ahantu h'umweru.

Icyapa cy'ubucururi ku mbugankoranyambaga kiriho ameza ateretseho hejuru igikoresho k'itumanwaho ngendanwa kiriho amukobwa inkweto ndetse n'imyenda. Kuruhande hari icyayi kiri mu gikombe cy'umweru ndetse nisahani y'umweru n'amakaramu abiri.

Ikinyabiziga kiri mubwoko bwipikipiki gihetse agafunyika k'icyatsi kanditseho amagambo agiye atandukanye y'umweru ndetse n'umuhondo hashushanyijeho agace kurubuto, kuruhande hariho akaboko k'umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare harimo utubara tugiye dutandukanye nk'umutuku ubururu.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyamabaga cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ikijuju, hariho igishushanyo k'imisatsi miremire ifite ibara rya move n'umweru n'umukara hakaba hariho igikapu cy'umukara ndetse n'umupira w'ubururu.

Abakobwa babiri b'imibiri yombi umwe ufite imisatsi migufi y'umukara, undi akaba afite imisatsi miremire y'umukara, bari guhanahana igipfunyika kirimo agacupa k'ubuto ndetse n'akaroti. Umwe yambaye ishati y'icyatsi undi yambaye ishati y'umweru.

Abagabo babiri umwe wambaye inkweto zifunguye, ipantalo y'umweru n'ishati irimo amabara y'umutuku undi wambaye ipantalo y'umweru n'umupira w'amaboko maremare w'ubururu bwijimye, hari ikinyabiziga kiri mu boko bwa moto gifite icyapa kikiranga cya RD kabiri kabiri zeru V.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga cy'umweru; kiriho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umutuku, umukara, ikijuju ndetse n'imibare, yewe n'utunyenyeri turi mu ibara ry'ikijuju; hariho agakomo ndetse n'igikoresho cy'itumanaho ngendanwa.

Ibinyabiziha bibiri biri mu bwoko bw'ipikipiki biri kugenda ku muhanda w'umukara kimwe muri byo kiriho umugabo wambaye ikote ry'umukata n'ipantari y'ikigina, ahetse umugore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umweru, bose bamabaye ingofero z'icyatsi, ikindi kiriho umugabo wambaye ikote ry'ivu.

Akabati gafite ibara ry'ikigina kakorerwaho abantu bane ndetse kuri buri mwanya hariho akabati gato hasi kariho imfunguzo z'umukara kakaba kari mu nzu isashemo amakaro y'umweru ndetse n'inkuta z'umweru.

Abagabo babiri bambaye amashati y'icyatsi, umwe harimo akabara k'umuhondo, undi harimo akabara k'umweru yanditseho vuba, bafashe ku igikapu cyanditseho vuba vuba cy'icyatsi kiri ku kinyabiziga cy'ipikipiki bari ku muhanda.

Umugabo w'imibiri yombi ufite imisatsi migufi y'umukara yambaye ishati inyuma ye hari icyapa cyenditseho amagambo atandukanye arimo ibara ry'umweru umukara ndetse n'ubururu hari n'utundi tubara ubururu, umuhondo, umutuku, hariho igikoresho cyabugenewe mu itumanaho ngendanwa.

Icyapa k'icyatsi cy'ubucuruzi ku mbugankoranyambaga cyanditseho amagambo menshi agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru n'utundi tubara tw'umuhondo hariho inyama, amafi, amavuta inanasi, ibitoki.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki cy'umutuku n'umukara gihetse igifunika cy'umutuku kiriho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru. Imbere yacyo hari umugabo wambaye ikoboyi ndetse n'ingofero y'umutuku ndetse n'agapfukamunwa. Imbere hari igipangu gisa ibara ry'ivu.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga cy'umweru kiriho umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara w'imibiri yombi uri gukoresha igikoresho ngendanwa k'itumanaho, yambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru handitseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru hepfo hariho agakapu gafite ibara ry'umukara.

Umugabo w'imibiri yombi uri guseka wambaye ishati y'amaboko magufi y'icyatsi, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, akaba afite agafunika karimo karoti, amavuta yo gutekesha, imbere ye hakaba hari igikapu gifite ibara ry'icyatsi cyanditseho amagambo agira ati ''vuba vuba''.

Icyampa cy'ubucuruzi cyo ku mbugankoranyambaga cy'umweru kiriho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, ikijuju ndetse n'ubururu. Hariho udushushanyo tw'abantu babiri bicaye ku ntebe y'umukara n'iy'ubururu bari gukoresha mudasobwa, umwe muri bo afite umusatsi muremure w'umukara.

Icyapa cy' umweru ucyeye cyo ku mbugankoranyambaga hakaba hari amagambo menshi agiye atandukanye arimo amabara y' umukara, ubururu, umutuku, umuhondo icyatsi ndetse n' umweru. Hakaba hari n' udushushanyo dufite amabara agiye atandukanye umukara, ubururu.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga, cyanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'umutuku. Hariho agashushanyo k'isaha, gafite ibara ry'umutuku, ubururu, umweru.

Icyapa cy'umweru cy'ubucuruzi ku mbugankoranyambaga, cyanditse ho magambo ari mu ibara ry'ikijuju, umukara, ubururu, ndetse n'udukapu tubiri, twanditse ho inyuguti ya esi, kamwe kakaba gasa icyatsi akandi kakaba gasa umukara.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga cyanditseho amagambo agiye atandukanye arimo ibara ry'umukara n'umweru, hariho amacupa abiri y'icyatsi arimo ikinyobwa gisembuye ateretse mu mazi, ndetse hariho n'itundi tubara umuhondo n'umutuku.

Umugabo uri mukinyabiziga cy'imodoka wicayemo, wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ingofero y'ubururu iriho utugambo tw'umweru, afite agapfunyika k'umweru kariho ibara ry'ubururu, kanditseho amagambo ari mu tubara tw'ubururu.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara n'umutuku ndetse n'udushushanyo, tw'umutuku, umuhondo, ubururu, hariho n'ibindi bishushanyo by'abagabo babiri, akamodoka k'umutuku gafiteho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranya mbaga, kiriho amagambo agiyeb atandukanye, ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ikijuju, hariho ibirenge by'umuntu ufite inzara ziriho amarangi y'umweru, yambaye inkweto zifunguye zirimo utubara tugiye dutandukanye, umutuku, umweru, umuhondo. Muri ayo magambo harimo imibare akaba ari gatatu, gatanu.

Umuntu wambaye ishati y'ubururu ufashe igikoresho cy'itumanaho mu ntoki ngendanwa, kirimo udushushanyo tw'abantu babiri umuhungu n'umukobwa, n'ipikipiki ndetse hakaba handitsemo amagambo y'umweru ndetse n'ibara ry'icyatsi.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga gifite amabara y'icyatsi hariho amagambo agiye atandukanye ari mw' ibara ry'umweru ndetse n igakapu kirimo ibiribwa bigiye bitandukanye harimo inyanya amashu kuruhande hari igikoresho cy' itumanaho ngendanwa

Icyapa cyo ku mbuga nkoranyambaga cy'umutuku, kiriho amagambo menshi agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara; ku ruhande hariho umukobwa wirabura, ufite umusatsi mugufiya wirabura, uri guseka wishimye kandi unezerewe, hariho n'utundi tubara tw'icyatsi.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbugankoranyambaga cy'umuhondo cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara icyatsi ndetse n'agashushanyo k'izuba gafite ibara ry'umuhondo. Hari akagare kari kuruhande gateretsemo udupapuro dufite amabara y'icyatsi.

Icyapa cy'umweru cyo ku mbuga nkoranyambaga kiriho amagambo menshi agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umukara, icyatsi, umutuku ndetse n'utundi tubara tw'icunga, hari umukobwa ufite umusatsi muremure w'umukara wambaye agapira k'umutuku ndetse w'imibiri yombi, ku ruhande hariho utumanikwaho imyenda dufite amabara atandukanye.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga cy'umukara cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru, icyatsi ndetse n'akagofero gafite ibara ry'umutuku n'umweru, hariho urukweto rufunze rusa umweru rwanditseho ijambo rigira riti nayiki.

Inzu y'ubucuruzi ifite inkuta zisize amabara y'icyatsi n'imiryango y'icyatsi hejuru hariho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara n'umweru. Hariho imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, ibibiringanya, imineke, inyanya, ibidegede.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'pikipiki gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara gihetse igifunika cy'ubururu kirimo amagambo ari mu ibara ry'umuhondo n'umweru, ku ruhande rwawo hariho umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'amaboko maremare.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbugankoranyambaga kiriho tangawizi enye, ndetse cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu. Hariho utundi tubara tw'icyatsi, ikijuju kikaba kiri ahantu h'umweru wera.

Icyapa cyo ku mbugankoranyambaga cy'ubucuruzi cy'umweru kiriho isahane y'umukara iriho ibiryo, amagi, ikirayi, amakaroni ndetse n'utundi turungo, hariho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara n'umutuku ndetse n'akagofero gafite ibara ry'umukara n'umutuku.

Icyapa cy'ubucururi ku mbugankoranyambaga cy'umweru n'ubururu; cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara: ry'umukara, ikijuju n'ubururu, amwe muri ayo ni'' kanda hano ubone serivise zose z'ubukerarugendo umuryango''.

Icyapa cyo kumbuga nkoranyambaga cy'umweru n'umukara, kirimo amagambo menshi agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, ikijuju, utunyenyeri tw'umuhondo, ndetse n'udushushanyo tw'umutima. Hariho n'udukoko nk'imbeba, ikinyenzi, isazi.

Icyapa cy'umweru kiriho ishusho y'umukobwa uri guseka ufite imisatsi miremire w'imibiri yombi wambaye umupira w'amaboko maremare w'ivu ndetse n'ipanaro y'umweru kuruhande hariho amagambo atandukanye agiye ari mu ibara ry'umukara n'umweru ndetse n'agakapu k'umukara.

Abantu babiri harimo umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, ari guseka, yambaye amadarubindi, ari kwakira agafunika ahawe n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ikote ririmo ubururu n'icyatsi, yambaye n'ingofero y'icyatsi.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa ipikipiki, gihetse igikapu cya umuhondo cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara rya umukara. Kuruhande hariho umugabo wambaye ishati ya ubururu na umweru na ingofero ya umuhondo, ufite agapfunyika mu ntoko kanditseho kasha, inyuma ye hari indabyo za umuhondo.

Ibinyabiziga bine biri mu bwoko bw'ipikipiki, biri kugenda mu muhanda w'umukara. Hariho abagabo bambaye amapantalo y'amakoboyi n'imipira y'umutuku. Bahetse udukapi twanditseho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbugankoranyambaga gifite amabara y'icyatsi, icunga, hariho amagambo agiye atandukanye asa umweru ku ruhande hari amaboko y'umuntu ufite uruhu rwera wambaye ishati y'amaboko maremare uri gukoresha mudasobwa.

Icyapa cyo ku mbugankoranyambaga kiriho amagambo y'iganjemo umweru, umukara hakaba hariho n'andi mabara umuhondo, icunga. Hariho umukobwa wambaye ishati y'umutuku ufite uruhu rwera ndetse n'imbuto nk'inkeri.

Icyapa cy'umweru cyanditse amagambo ari mu ibara ry'icunga n'umukara, ndetse n'agashushanyo kari mu ibara ry'icunga, hariho imodoka ifite amapine y'umukara ndetse n'ibara ry'icunga ryanditse ho Murukari mu ibara ry'umweru.

Icyapa kiri mu ibara ry'umukara cyanditseho akarwa mu ibara ry'umweru ndetse kikaba gishushanyijeho akagare kari umu ibara ry'umutuku , hepfo hari amagambo yanditse , kigali bezidi akaba ari mu ibara ry'umutuku.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki kiriho igikoresho ngendanwa k'itumanaho, hicayeho umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umutuku, akaba ahetse igikapu gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku cyanditseho amagambo arimo umweru.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa moto, kikaba cyicayeho umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara zirimo n'utubara tw'umweru, inyuma ye akaba atwayeho igitebo kirimo ibyo agomba gushyira ababitumijeho

Ahantu hari urukuta runini, rwubatsemo amabuye manini, ndetse hakaba harimo amahombo muri urwo rukuta, hasi hakaba hashashe amatafari adahiye, ndetse bikagaragara ko ari ahantu nyabagendwa, abantu bashobora kunyura.

Icyapa cyo kumbugankoranyambaga kiriho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru hariho abakobwa batatu babiri muribo bari guseka umwe afite umusatsi muremure w'umukara undi ntamusatsi afite uwagatatu yambaye ikote ry'umukara n'imibiri yombi

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umuhondo, ubururu, umweru, umutuku, gihagaze ku muhanda w'umukara imbere y'inzu ndende, kuruhande rwacyo hari umubyeyi w'umugore ufashe umwana mu ntoki, wambaye imyenda y'ishuri.

Ibinyabiziga bibiri biri mu bwoko bw'ipikipiki bihetse udukapu, ndetse ku ruhande rwabyo hari ibiti byinshi bifite ibara ry'icyatsi kijimye, n'indabo z'umuhondo. Hari ipoto riri imbere yabo rimwe.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga cy'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru, umukara, umuhondo, hariho udushushanyo dukozwe mu bwato dufite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, yewe n'utundi dufite amabara y'umutuku n'umweru.

Umugabo w'imibiri yombi, wambaye umupira ufite ibara ry'icunga n'ikora ry'icunga, afite agafunika nanditseho ijambo rumiya mu ibara ry'umukara, ndetse n'agashushanyo k'igare. Inyuma ye hari utubati twinshi dukoze mu byuma, tumanitseho icyapa cy'umweru.

Ibinyabiziga bine byicaweho n'abagabo bane, batatu muri bo bambaye ingofero zabugenewe mu gihe umuntu atwaye moto z'umukara ndetse umwe yambaye ingofero y'umutuku. Bakaba bahetse udutebo tw'umuhondo.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki ifite igikapu, gifite bara ry'umutuku, ndetse n'amagambo agiye atandukanye yanditseho y'umweru, n'imibare mwe muri iyo mibare ni icyenda rimwe icyenda rimwe, hejuru y'icyo hariho agapfunyika gafitwe n'umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'agapfukamunwa.

Icyapa ku mbuga nkoranyambaga cy'ubucuruzi, cyanditseho amagambo arimo ibara ry'umukara, ikijuju, ubururu. Kikaba kiriho umukobwa w'imibiri yombi wambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara, ufite umusatsi w'umukara.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye amadarubindi, ufite ubwanwa ndetse n'ingofero y'icyatsi yambaye ishati y'icyatsi kijimye, yicaye ku kinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki, ahetse igikapu gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga cy'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'ubururu bwijimye, hariho ibiganza by'abantu babiri bari guhanahana agapfunika gafite ibara ry'ubururu kanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki, gihagaze ku muhanda, hakaba hari agapfunyika hateretse hejuru yacyo k'umutuku kariho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, umukara n'umweru. Hari umugabo uri ku ruhande wambaye wambaye umupira w'ubururu n'ikoboyi.

Icyapa cy'ubucuruzi cyo ku mbugankoranyambaga cy'umweru, ubururu, umutuku. Hariho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara ry'umweru, umukara, amanini ndetse n'amatoya. Hakaba hari uburyo ushobora gukanda akanyenyeri, icyenda, rimwe rimwe, urwego. Nimero zabo zo ku mbuga nkoranyambaga ni zeru karindwi umunani, zero kane kane, zero gatanu, kabiri kabiri.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbugankoranyambaga cy'umweru, hariho amagambo menshi agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara n'umutuku; hariho igikapu cyicyijuju ndetse nibikoresho bibiri ngendanwa by'itumanaho, hariho n'udushushanyo tw'utunyenyeri.

Icyapa cy'ubucuruzi kumbugankoranyambaga cy'umweru kiriho amagambo agiye atandukanye umukara, ubururu, umutuku, icunga ndetse numuhondo, kuruhande hari umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye ikote ry'umukara nipantaro y'umukara.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga kiriho mudasobwa ndetse n'igikoresho cy'itumanaho ngendanwa gifashwe n'intoki z'umuntu, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ubururu

Icyapa cyo ku mbuga nkoranyambaga cy'ubucuruzi hakaba hariho igikapu cy'umukara ndetse n'amagambo yanditseho ari mu ibara ry'ikijuju, umukara, umutuku, ubururu, umuhondo, bikaba bira ahantu h'umweru ucyeye.

icyapa cy'ubucuruzi kumbuga nkoranyambaga cy'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mwibara ry'umukara n'umweru n'ikijuju , hariho imibare ndetse n'agashushanyo k'umutima hari isorori irimo ibiribwa bikozwe munyama.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ingofero y'ubururu, uri gushyira ikigapu cy'umweru mu gatebo k'ubururu, kanditseho amagambo agira ati "isuku ni ubuzima." Akanyenyeri, icyenda, rimwe, rimwe, urwego.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gihetse igifunika gisa icyatsi kijimye cyanditseho amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'umweru vuba vuba, hari umugabo ugihagaze inyuma wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'ikuboyi uri gukora muri ako gafunika.

Icyapa k'icyatsi cyo ku mbugankoranyambaga cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi n'ubururu hakaba hariho uwo mukobwa wambaye amadarobindi w'inzobe uri guseka ufite igikoresho k'itumanaho ngendanwa.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga gifite ibara ry'icunga, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse hariho na mudasobwa iri kwaka, ku ruhande hariho akagare karimo udufunika dufite amabara agiye atandukanye ubururu ndetse n'umutuku.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gifite amabara y'umutuku n'umukara, gihetse igikapu gifite ibara ry'umutuku ryanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara, ku ruhande rwacyo hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare irimo imirongo y'umukara n'umutuku ndetse n'ipantaro y'ikigina.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki, gifite ibara ry'umutuku, giparitse ku muhanda w'amabuye, gihetse agakapu k'icyatsi, kanditseho amagambo agiye atandukanye y'umweru, ndetse hari umugabo ugihagze inyuma wambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati y'amaboko magufi y'icyatsi.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga cy'umweru, cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu bwijimye, hariho udushushanyo tw'abantu bari kugenda, umwe muri bo yambaye ikoti ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu akaba afite igipfunyika mu ntoki cy'umutuku.

Icyapa cy'amabara atandukanye cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga kiriho amagambo menshi ari mu ibara ry'umukara, umweru, ndetse na za mudasobwa n'ibikoresho by'itumanaho ngendanwa n'ibiganza by'umuntu.

Icyapa cyo ku mbuga nkoranyambaga hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'ikijuju, umukara, umutuku ndetse hakaba hariho n'utugofero turi mu ibara ry'umukara n'umutuku dutatu, bikaba byannditse ahantu h'umweru ukeye.

Ibinyabiziga birimo ubwoko bw'imodoka bitanu biparitse k'umuhanda w'umukara by'umweru n'umuhondo, handitseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru n'umukara biri imbere y'inzu igeretse ifite ibara ry'icyatsi n'umweru handitseho n'imibare.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga cy'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umukara ndetse hari n'irindi bara ry'ubururu, umutuku. Hariho umugabo wambaye ishati y'amaboko magufiya, hariho udushushanyo tw'umutima.

Icyapa cy'ubucuruzi, kiriho imyenda y'abana ndetse n'udukinisho tw'abana, turi mu ibara ry'umweru n'umuhondo. Hakaba hari n'umukobwa wambaye ingofero y'umutuku n'agapira k'umweru, ufite imisatsi y'umweru.

Ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, harimo amapikipiki yicayeho abantu bambaye imipira y'umuhondo n'amamodoka atandatu afite ibara ry'umuhondo n'ubururu, akaba ahagaze ku muhanda w'umukara, inyuma yayo hari inyubako ndende igeretse kabiri.

Icyapa cy'umweru cyo ku mbugangoranyambaga, gifite amagambo agiye atandukanye y'umukara ndetse n'ayubururu; ku ruhande hariho ishusho y'umugabo igice cyo hejuru gusa, ufite umusatsi mugufi w'umukara, uriguseka ndetse wirabura.

Inzu y'ubucuruzi irimo abantu batatu, babiri muri bo ni abakobwa umwe witeze agatambaro k'umukara wicaye ku ntebe y'umweru ndetse wambaye n'ishati y'ubururu, ku ruhande hari umugabo uri kwitabira ku gikoresho ngedwanwa wambaye ishati y'amaboko maremare.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga kiriho umugabo ufite uruhu rwera wambaye ikoti ry'ubururu n'ikaramu mu mufuka, ku ruhande hari ameza y'umweru ndetse n'intebe z'icyatsi zifite utubara tw'umukara, handitseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru.

Icyapa k'ibara ry'umutuku wijimye ndetse n'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'igishushanyo k'igiti k'icyatsi n'umweru kiriho udufunika tw'umutuku ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa moto kiriho umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, umupira mugufi w'umutuku. Akaba ahetse igikapu cy'umutuku cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara ndetse hakaba hariho n'irindi bara ry'umweru, yambaye kasike y'umutuku ndetse yambaye n'agakomo.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga kiriho ibirenge by'umuntu w'imibiri yombi, wambaye inkweto z'umukara zirimo utundi tubara tw'umweru n'ivu. Hariho imibare yanditse mu magambo y'umweru, ari yo 10500

Icyapa kiriho abakobwa babiri birabura bari guseka, umwe muri bo yambaye umupira w'icunga n'umutsatsi muremure w'umukara, undi yambaye umupira w'icyatsi, bafite agafunyika mu ntoki gafite ibara ry'icunga n'umweru ndetse kanditseho imibare.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki kicayeho umugabo wambaye ishati y'icyatsi irimo akabara k'umweru ndetse n'ingofero y'icyatsi, ahatse igikapu k'icyatsi cyanditseho vubavuba ari ku muhanda, ku ruhande rwe hari ibyatsi.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hariho imyenda igiye itandukanye; imipira y'amaboko magufiya, imipira y'amaboko maremare. Imbere hari itara riri kwaka mu ibara ry'umuhondo, hari imigozi y'umuhondo ifashe iyo myenda.

Icyapa cy'ubucuruzi kumbugankoranyambaga cy'icyatsi cyanditseho amagambo agiye atandukanye arimwibara ry'umweru ndetse nimibare, hariho ibiribwa akaba aribyo inyama, amafi, igitoki, ibitunguru, inanasi ndetse namavuta yubuto.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga cy'umweru hariho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umutuku n'umweru hari akagare karimo ibiribwa byinshi nk'inyanya, ibitunguru ,karoti ndetse hepfo hari umugabo wambaye ingoferi uhetse agakapu k'umweru n'ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifunguye

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki kiri kugendera mu muhanda w'umukara, hicayeho umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umutuku yabugenewe, akaba ahetse ibikapu gifite ibara ry'icunga ndetse n'umuhondo, handitseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru.

Icyapa cya move cyo kumbugankoranyambaga cyo kwamamazakiriho abagore benshi bagiye batandukanye bagera ku munani b'imibiri yombi, imisatsi migufi, imisatsi miremire handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Icyapa cy'ubucuruzi kumbuga nkoranyambaga cy'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye mu ibara ry'umukara, hariho agashushanyo k'umutuku no hagana hejuru hariho umwanya w'ibara ry'umutuku, hariho imibare igira ati kabiri kabiri zeru cumi n'ikenda

Igikoresho cy'itumanaho kigendanwa, kiriho amashusho y'umugabo wambaye ishati irimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba ariho n'andi amashusho y'ikoti n'ipantaro, kuruhande rw'icyo gikoresho hari ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru.

Ibinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka cy'umutuku cyometseho icyapa cy'ubururu n'umweru, cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umweru n'umutuku ndetse na nimero ziri hasi zigira ziti: kabiri gatanu, zeru karindwi umunani, karindwi gataratu, zeru zeru kabiri gataratu gataratu.

Icyapa cy'ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga, kiriho amandazi akoze mu ifarini, isukari, amagi, amata, cyangwa se ukaba wakoresha amazi, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu avuga ati: ''Urwibutso.'' ndetse n'akamenyetso ku mutima ku ruhande.

Agafunika gafite ibara ry'umweru n'umugozi uziritseho w'ikigina gateretse hejuru y'imeza, ku ruhande hariho udutako tw'ikigina, ndetse n'akandi kari inyuma gafite ishusho y'ibyatsi gasa icyatsi.

Icyapa cy'umutuku, kiriho amagambo agiye atandukanye, ari mu ibara y'umweru, ubururu, ndetse n'utundi tubara tw'icyatsi, hakaba hariho umukobwa wirabura uri guseka, ufite umusatsi w'umukara, uri kureba ku ruhande.

Icyapa cy'ubucuruzi kumbuga nkoranyambaga cy'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'ikijuju umukara, ndetse hakaba hariho n'akabara k'ubururu wijimye n'uwerurutse hari udushushanyo tw'utunyenyeri tugera muri dutanu ndetse n'imibare.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki cyicayeho umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, afite igikoresho cy'itumanaho ngendanwa mu ntoki, yambaye ingofero y'umutuku, akaba ahetse igikapu cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, gisa umutuku.

Icyapa cy'ubucuruzi kumbugankoranyambaga cy'umweru cyanditseho amagambo agiye atandukanye arimwibara ry'umukara, umutuku ndetse n'umweru. Hariho n'ibindi bishushanyo ikanzu, umupira, inkweto ndetse n'igikoresho k' itumanaho ngendanwa n'imibare igihe itandukanye.

Iseri y'imineke ndetse n'undi muneke wakuweho igishishwa, ugakatwamo uduce dutatu dutoya, ndetse n'umufungo w'ibijumba bibisi bitaratekwa ndetse bitarakorerwa n'isuku bikaba biri ahantu h'umweru.

Ibitoki biri mu dutebo tugiye dutandukanye, twamabara y'umuhondo, icyatsi, ubururu hakaba hari abantu bambaye imyenda y'akazi iririmo ibara ry'umukara, hakaba hari umukobwa ufite telefone ye mu ntoki.

Icyapa cy'umukara cyo ku mbugankoranyambaga, cyanditseho amagambo menshi agiye atandukanye; umweru, umuhondo ndetse n'ubururu; hakaba hariho n'amashusho, urugero: urukweto, umupira w'imbeho, mudasobwa, ipikipiki, insakazamashusho...

Ibinyabiziga bitatu biri mu bwoko bw'ipikipiki bwicayeho abantu bambaye ingofero z'umweru zabugenewe, bahetse ibikapu by'umweru. Buri kinyabiziga gifite icyapa kikiranga. Icyapa mbere ni RA karindwi, rimwe icyenda P, ikindi ni RB gatatu, gatatu Y, ikindi ni RC karindwi umunani gatatu U.

Icyapa kiriho ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, cyanditseho amagambo agira ati "Gura ibicuruzwa bitandukanye ku bacuruzi bacururiza impande n'impande ku biciro utasanga ahandi, tubikugezaho nta kiguzi utanze. Nawe hanze ya Kigali, ku mafaranga igihumbi gusa yo kubikugezaho. Oroshya ubuzima ihabwa byoroshye kandi bihendutse, hamwe na kigure.rw."